Umusaza ufite imvi yambaye ingofero ndetse aricaye, ukuboko kwe yakurambuye ku meza afite igitambaro cy'umweru, hari umuganga wamufashe ukuboko ndetse amushyiraho igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bari ku ivomero, hari umugore uteze agatambaro mu mutwe, wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'umwana ufashe kunjerekani ifite ibara ry'umuhondo, wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku k'amaboko magufi, inyuma yabo hari insina ndetse zifite amakoma hamwe n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze imbere y'inzu mu byatsi birimo n'amabuye, harimo abambaye amajire afite ibara ry'icyatsi, ndetse n'abandi bambaye udupira dufite ibara rya oranje turimo n'akabara k'umweru, hari umugore uteruye umwana.

Abagabo babiri bafatanye mu kiganza bambaye ikositimu ndetse na karuvate harimo uwambaye amarinete ufite uruhara ndetse mu kiganza cye cy'ibumoso afashemo ibitabo bitandukanye iruhande rwe hari mikoro.

Umuganga wafashe ku kuboko kw'iburyo k'umugore, afite urushinge mu ntoki ari kurumutera, yambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'amaboko maremare, umugore afite agakapu k'imishumi gafite ibara rya move ndetse yambaye n'ingofero ifite ibara rya kaki.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu n'amaboko magufi mu mufuka wayo harimo ikaramu. Iruhande rwe hahagaze umugore ukenyeye ibitenge. umugabo mu kuboko kw'iburyo afitemo icyapa gishushanyijeho abantu. Inyuma yabo hari inzu ifite idirishya ndetse yubakishije n'amabuye.

Umuganga usutamye wambaye iherena ku gutwi ndetse n'itariya ifite ibara ry'umweru y'amaboko magufi ,imbere hari umugore wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu karimo n'uturongo tw'umweru n'umukara ndetse mu mutwe atezemo igitenge ,akikiye umwana bari gutera urushinge.

Abantu bicaye bakikije intebe ndetse bambaye imyenda itandukanye hari uri ku ruhande rw'iburyo wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku ndetse inyuma yabo hari urugi n'ibikuta bifite ibara ry'umweru ndetse hasi hari ibara ry'umukara, imbere yabo hari inziramugozi zitandukanye.

Umuntu wambaye ingofero ndetse n'ijire bifite ibara rya kake, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, imbere ye hicaye abana bambaye udupira dufite ibara rya oranje, inyuma mu mugongo turimo amagambo yandikishije ibara ry'umukara. Afite inkongoro mu ntoki ari kubanywesha, inyuma yabo hahagaze abantu bahagaze mu byatsi.

Umwana wunamye uri gufungura robine iri ku ndobo, ifite ibara ry'umweru, ipfunyikije umupfundikizo ufite ibara ry'ubururu kandi iteretse ku meza, uwo mwana yambaye ishati ndetse n'ipantaro.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye, hagati yabo hari ameza atetseho ibintu bitandukanye, harimo icupa rifite umuvundizo w'umweru, hari n'umugore uhagaze ahetse umwana ndetse inyuma yabo hari idirishya.

Abana bambaye amashati y'umweru, harimo uwambaye amasogisi afite ibara ry'umutuku ndetse n'inkweto z'umukara, barunamye inyuma yabo hari undi uhagaze ndetse uri ku ruhande we yambaye karavate, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'indabo.

Abantu bari ku ipombo hari umwana ufashekonnje kandii ari kuyivomera, yambaye isengeri ifite ibara ry'umutuku, ndetse hari n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi mu mutwe atezemo igitambaro gifite ibara rya beje, hirya yabo hari urutoki ndetse n'ibiti.

Abagore bicaye ku murongo bakikiye abana ku bibero, hari umuteruye yambaye agapira k'ama ku magufi gafite ibara ry'umutuku,, hari n'undi ukenyera ibitenge ari kumwonsa ndetse inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye harimo irangi ry'umukara n'umweru.

Abagabo bambaye kositimu harimo umusaza ufite imvi ndetse yambaye amaneti, imbere ye hari abandi bambaye amataburi afite ibara ry'ubururu n'amaboko magufi inyuma yabo hari umugabo wambaye karuvati na kositimu ndetse n'ishati y'umweru ari gufotora.

Umwana wateze ikiganza cye kuri robine ari kunywa amazi ndetse andi ari kumeneka mw’ibase iteretse hasi, yambaye agakabutura gafite ibara ry'umutuku n'inkweto zifite ibara ry'ubururu inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti, hamwe n'inzu ifite inkingi yubakishije ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu n'imyenda y'ubwoko butandukanye, bahagaze mu byatsi ndetse imbere hari undi wicaye ku ntebe y'umweru wambaye ishati n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru ndetse n'undi wicaye ku rubaho, hari umugore ufite impapuro mu ntoki ze ndetse ukuboko kwe kw'iburyo, yagushikamishije ku meza amureba iruhande ateretseho ibitabo n'impapuro nyinshi.

Abantu bicaye ndetse hari n'abandi bahagaze bambaye imyenda itandukanye abambaye amataburiya afite ibara ry'umweru ndetse inyuma yabo hari inzu yubakishije amabuye iriho amadirishya ndetse n'inzugi bifite ibara ry'icyatsi hejuru y'inzugi y'amadirishya hari amakositara.

Abantu bari ku ivomero undi imbere y'inzu umwe arahagaze akenyera igitenge n'ishati y'amaboko magufi ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ku gikuta cy'inzu undi ahagaze imbere y'injire kandi.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bunamye bambaye udupira dufite ibara rya oranje ndetse n'amapantaro y'imikara. Hari imbere yabo akarima k'igikoni ndetse inyuma yabo hari ibiti, hirya hari ikigega n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bahagaze ndetse hari ufite mikoro ifite ibara ry'umutuku, wambaye ingofero, imbere yabo hari umugore ukenyeye igitenge, wambaye ibikomo ku maboko, ateze agatambaro, arunamye apfukamishije amavi n'ibiganza bye yabifatishije hasi.

Umukobwa wambaye iherena ku gutwi n'isaha ku kuboko kw'iburyo, yambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'ijire ifite ibara ry'umukara, inyuma mu mugongo hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Abantu bicaye bakikije ameza harimo uwambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'uwambaye indi ifite ibara ry'icyatsi hari umugabo wambaye amarineti n'umugore uteze agatambaro k'umweru wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku inyuma yabo hari umugore wunamye ufite imyenda y'ibara ry'umuhondo.

Umugabo uri ku iriba rifite robine ebyiri ari guseka yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro n'umukandara bifite ibara ry'umukara amaboko ye yayashikamishije ku injerekani imuri imbere ndetse inyuma ye hari ibyatsi.

Abana benshi barambuye ibiganza byabo kuri robine, harimo uwambaye agakoti gafite ibara ry'umutuku ndetse n'uwambaye agakote gafite ingofero, gafite ibara ry'ubururu inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umuntu wambaye ingofero y'umweru n'gapfukamunwa yambaye umupira w'amaboko magufi afite ibara ry'umutuku imbere wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Iruhande rwe hari umugore wicaye wambaye ishapule mu ijosi ndetse n'agapira k'umuhondo afite ikayi mu ntoki.

Umwana uri ku iriba, ari gukaraba intoki n'amazi, mu ibase ifite ibara ry'umukara, yambaye imyenda idodesheje mu bitenge, harimo ibara ry'umutuku, umukara, umweru, inyuma ye hari igikuta, cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bicaye harimo umugore ukikiye umwana yateza agatambaro umutwe gafite ibara ry'umukara ndetse yambaye n'agapira gafite ibara ry'ubururu hari n'undi wicaye uteze agatambaro gafite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'utudomo tw'umweru ,imbere yabo umugabo wahagaze ufite impapuro mu kiganza cy'ibumoso ndetse mu cy'iburyo afitemo ikaramu.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umweru, umugabo uri ku ruhande rw'ibumoso ageretse ukuguru ku kundi, yambaye kositime ifite ibara ry'umukara n'inkweto z'umukara n'ishati y'umweru.

Abana babiri bapfukamye ku mabuye manini akikije ahari amazi. Inyuma yabo hari ibyatsi byinshi, muri bo hari uwambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'isengeri ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze, hari ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'impapuro ari kwandika yashyize ku bibero, harimo n'uwambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, hirya yabo hari amadirishya ndetse n'inzugi.

Abana bahagaze ku ipombo imbere yabo hateretse utujerekani dufite ibara ry'umuhondo, hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ari gupompa amazi, hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti ruguru yabo hari imodoka ihaparitse.

Umugabo wambaye kositime ndetse na karuvati n'ishati y'umweru, afashe ku gatuti gafite ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwe hari intebe ziriho mikoro ndetse n'amazi ateretseho ari mu ducupa tw'Inyange.

Abana bato bambaye impuzankano bahagaze, inyuma yabo hari umuntu wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse imbere yabo hari abantu bahagaze harimo; uwambaye agapira gafite ibara ry'ubururu k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara hari n'undi wambaye impeta ku kuboko kw'ibumoso yambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara irimo n'utudomo tw'umweru bahagaze mu ihema.

Umwana uri ku ivomero ririho icyapa kiriho ibara ry'umweru ndetse n'i rya oranje yambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse ari gukaraba.

Abantu bahagaze hejuru yabo hari amababi y'igiti, bambaye udupira dufite ibara ry'umweru, hari n'uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi. Imbere yabo hari umuntu uhicaye wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku ndetse n'ijire.

Umugore wambaye ibitenge ndetse n'itaburiya ifite ibara ry'umweru, yambaye iherena ku gutwi, arunamye afashe ku matama y'umwana ukikiwe n'umubyeyi wicaye ukenyeye ibitenge. Inyuma yabo hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Umugore uryamye ku buriri buriho amashuka y'umweru, yambaye agapfukamunwa kandi yambaye imyenda afite ibara ry'ubururu ,yoroshe igitenge kirimo amabara atandukanye .Ku ruhande rwe rw'iburyo hari umuganga wasutse udusuko turyamye ku mutwe kandi arunamye ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari n'undi umufashe ku kuboko no ku rutugu.

Umugore ufite ikaramu mu ntoki ndetse na telefone, ku bibero bye hariho igitabo ari kwandikiramo, yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, iruhande rwe hicaye umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse inyuma yabo hari amagambo yandikishije ibara ry'umukara, avuga ngo ''duhaguruke tuyirwanye''.

Umugore ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe indobo ifite ibara ry'umutuku yikoreye ndetse ukw'iburyo gufashe indobo ifite ibara ry'umuhondo, imbere ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu basutamye ndetse n'abandi bicaye, bambaye imyenda yiganjemo udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru, hari umugore wambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umutuku ndetse n'undi wambaye agafite ibara rya kaki mu mutwe.

Abagore bakikiye abana ku bibero bicaye ku murongo, harimo uwambaye agapira gafite ibara ry'umutuku ateruye umwana, ndetse inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, harimo irangi ry'umweru ndetse n'umukara.

Umugore uri guseka akenyeye igitenge yambaye ingofero mu mutwe. Inyuma ye hari umuryango ukinguye imbere ye hari kandagira ukarabe iriho akajerekani y’ubakishije ibiti ari gukaraba ateze ibiganza bye...

Umugore wicaye ku ntebe afite ibisuko ku mutwe yafungiye hejuru kandi yafashe ku nda, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru kandi iruhande rwe hari umuganga uri kumutera urushinge ku kuboko kw'ibumoso, inyuma ye hari umuntu uhahagaze.

Abantu bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza, hariho agatambaro gafite ibara ry'ubururu n'umweru. Hateretseho amashakoshi kandi hari uducupa tw'amazi ya Nili. Mo hagati hari umugore uhahagaze kandi hirya yabo hari amadirishya n'inzugi z'ibirahure ziriho amarido afite ibara rya shokora.

Umwana uteze ikiganza kuri robine yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, iruhande rwe hari undi umwegereye uhetse igikapu mu mugongo, kandi hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi inyuma yabo hari ibiti.

Umwana ufite ibinika mu kiganza cye cy'iburyo, yambaye agapira karimo amabara y'umuhondo, umutuku n'icyatsi, imbere ye hari undi wunamye wambaye insengeri y'umukara n'ikabutura ifite ibara ry'umuhondo, imbere ye hari indobo.

Umugabo uri ku ivomero yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, hari robine ebyiri kandi amaboko ye yombi yayashikamishije ku njerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'inzu.

Abantu bicaye bakikije ameza ateretseho ibitabo, amaterefone ndetse n'amacupa, inyuma yabo hari idirishya ry'ibirahure ririmo ibara ry'ubururu, ku ruhande rwabo hari televiziyo.

Abantu bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu hagati hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro n'ishati mu imbere ifite ibara ry'umweru, ndetse hari n'undi wambaye amarinete n'ipantaro y'umukara hari abafite telefoni mu ntoki.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'itaburiya na ga ifite ibara ry'umweru, afite urushinge agiye gutera umwana umuri imbere wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma yaho hari abantu bicaye.

Umugore uteruye umwana, yambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'ubururu n'umweru kandi iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'uturango tw'ibara risa n'ivu, yambaye amarinete, hirya yabo hari undi mugore wambaye ingofero y'umukara.

Abantu bahagaze mu byatsi, harimo ababyeyi bahetse abana, ndetse abandi bahagaze mu ihema rifite ibara ry'umweru, hirya yabo hari inzu ifite amakositara hejuru ndetse n'urugi rufite ibara ry'icyatsi, yubabakishije amabuye isize irangi ry'umweru.

Abantu bahagaze mu nzu bambaye amadaruburi afite ibara ry'umweru n'amapantaro y'imiiekara n'inkweto, ndetse inyuma yabo hari ibikuta n'inzugi hari, umugore wambaye inkweto zifite ibara ry'umutuku.

Umugore wambaye agapfukamunwa arunamye, ari gukarabya intoki umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara rya kake, uwo mubyeyi yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse ku maboko hariho uturongo tw'umweru n'umukara.

Umwana wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse ari ku bukarabiro ari gukaraba intoki, inyuma ye hari amazu ndetse n'ibiti hari n'umuhanda w'igitaka.

Abana bari kuri robine bambaye imyenda ifite ibara rya kaki, hari uwunamye ari gukaraba yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku mo imbere, ndetse imbere ye hari indobo ifite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti bitandukanye.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza kandi yandikishije ibara ry'umweru, yanditse mu ibara ry'ubururu hariho ikirango cya unicef kandi harimo akarongo gatandukanya amagambo yo hasi n'amagambo yo hejuru.

Umwana wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'akabara k'umweru, iruhande rwe hari ubase ifite ibara rya orange, ndetse inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho agakomo gafite ibara ry'umukara.

Umwana wambaye ijipo ifite ibara rya shokora ndetse n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hari indobo ifite ibara rya shokora ndetse n'ibasi ari gukaraba, inyuma ye hari igiti.

Umuntu usutamye yambaye itaburiya n'agapfukamunwa bifite ibara ry'umweru imbere ye hari ababyeyi bakikiye abana ku bibero bicaye mu ntebe zifite ibara ry'ubururu n'icyatsi ndetse hari n'abandi bahagaze inyuma yabo hejuru yabo hari umugozi uhaca.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe ndetse ateruye umwana ku bibero, amufashe mu gahanga, imbere yabo hari umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, ibiganza bye byose bifashe ku mwana, hirya yabo hari ameza ateretseho impapuro...

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi bahagaze mu byatsi, hirya yabo hari ibiti bitandukanye, imodoka ihaparitse n'amatente afite ibara ry'umweru, iruhande rwabo hari inzu ifite amakositara ndetse isakarishije ibati rifite ibara ry'umutuku.

Abantu bahagaze harimo umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, n'ingofero ifite ibara ry'umutuku, kuruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'ivu ndetse n'inkweto z'umukara n'isaha ku kuboko, kuruhande rw'ibumoso hari idarapo rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, nicyatsi.

Umwana ufite igikombe yagiteze ku ivomero rifite robine ebyiri zirafunguye zose ziri kuzana amazi, ari guseka yambaye agapira gafite ibara rya oranje, inyuma ye hari ibyatsi.

Abantu benshi bicaye, harimo abakikije ameza afite ibara ry'umukara, ateretseho uducupa ndetse hariho n'impapuro. Harimo umugore wicaye hirya yabo wambaye imyenda ifite ibara rya orange kandi imbere yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Abana bambaye impuzankano bari kuri robine bari kuvomera indobo zifite ibara ry'umuhondo, harimo uwambaye agapira gafite ibara ry'umutuku mu imbere kandi hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze ku iriba, hari amabase menshi ndetse n'injerekani zifite amabara atandukanye, harimo iy'umukara, iz'icyatsi n'iz'umuhondo, hirya yabo hari inzu ndetse n'ibiti bihagaze.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hari umusaza ufite imvi.

Abana bari ku ipombo imbere yabo hari utujerekani ndetse hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zirimo ibara ry'umweru ndetse n'agapira gafite amaboko magufi, hirya yabo hari amabuye kandi ruguru yabo hari imodoka ihaparitse.

Umwana uri ku ivomero, arunamye yambaye agakanzu karimo ibara ry'umweru ndetse n'utudomo tw'umukara, imbere ye hari indobo zifite ibara ry'umweru, hari n'indi afashe mu ntoki, inyuma ye hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibyatsi.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ifite umuryango n'amadirishya, muri bo hari abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'abafite telefone mu ntoki, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amakositara hejuru.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse akikiye umwana w'uruhinja ku bibero, mu mutwe yambaye agatambaro gafite ibara ry'umweru, iruhande rwe hari umugore wunamye ufite impapuro mu ntoki, imbere ye hari uwicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, ufite ibitabo wabishyize ku bibero.

Abana benshi bafite ibipapuro mu ntoki bazamuye, ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara afite nawe impapuro mu ntoki, muri abo bana harimo abambaye amashati y'imyeru ndetse n'undi wambaye ishati y'umutuku, inyuma yabo hari inzu iriho icyapa ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Umubyeyi ukikiye umwana wambaye akagofero gato gafite ibara rya oranje n'icyatsi kandi iruhande rwa bo hari umuganga wunamye ari guha umuti uwo mwana, yambaye iherena ku gutwi kandi inyuma yaho hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda itandukanye. Muri bo hari abafite amakayi mu biganza byabo ndetse imbere yabo hari ameza, inyuma yabo hari amakositara ndetse n'amadirishya n'inzugi. Igikuta kiri mu cyumba bicayemo gifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bari ku ivomero hari injirekani ziri ku murongo, hari umugore wambaye ibitenge birimwo ibara ry'umutuku n'icyatsi yambaye n'agapfukamunwa. Hari umuhungu uhahagaze wambaye inkweto zifite ibara ry'umukara ndetse harimo uturango tw'umweru, hirya ya bo hari ishyamba ndetse n'ibyatsi

Abana bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, harimo abafite ibikombe bifite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'undi ufite igikombe gifite ibara rya pinki, imbere yabo hari ameza ateretseho amajagi afite ibara rya oranje kandi hari n'abana bayafasheho.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye, hari n'abandi bunamye, bambaye imyenda ifite amabara menshi atandukanye, hari amahema afite ibara ry'umweru ndetse n'idarapo rihagaze hagati rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hirya hari imodoka ihaparitse ndetse n'inzu.

Abana bari ku ivomero, harimo ufite inkoni mu kuboko kw'iburyo yambaye ikabutura ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapira k'umutuku na bote, hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'uruzitiro rw'imiyenzi.

Abana bari kuri robine, bambaye imyenda ya kacye, harimo uwambaye inkweto zifite ibara ry'umutuku ndetse n'abandi bahetse igikapu, inyuma yabo hari ibikuta byubakishije amatafari ahiye.

Umwana uteruye indobo ifite ibara ry'umuhondo, ari ku mugezi ufite robine enye, imbere ye hari umuntu uhahagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwe, hirya ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abana bambaye impuzankano, ab'abahungu bambaye imyenda ifite ibara rya kaki, abakobwa bambara ifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ibiryo biri ku masahane y'ibyuma, inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara cyandikishijeho ibara ry'umweru.

Umwana wikoreye injerekani iriho ikirango cya UNICEF kiri mw’ibara ry'ubururu n'umweru, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya pinki, iruhande rwe hari umugabo uri guseka wambaye agapira k'amaboko mugufi ndetse n'ijire ndetse afite n'isaha ku kuboko ifite ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya Mayange, bambaye amataburiya y'amaboko magufi afite ibara ry'ubururu, harimo umugore we wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse imbere yabo hahagaze umugabo wambaye kositime yafatanyije ibiganza.

Abantu bateruranye umufuka harimo umugore wambaye ibitenge n'undi uteze igitambaro mu mutwe wambaye ikanzu imbere yabo hari umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu y'amaboko maremare uhagaze hejuru y'imifuka myinshi ndetse inyuma yabo hari abantu n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu bicaye imbere yabo hari agatuti gateguyeho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, muri bo hari umugabo ufite telefone mu ntoki kandi hari n'abandi bafite impapuro imbere yabo.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero, yambaye agapfukamunwa afashe kujerekani yikorewe n'umwana, iruhande rwabo hari umugore ufite telefoni ari gufotora.

Umusaza wambaye ingofero y'umukara ufite imvi n'imikanyari mu maso, ukuboko kwe kw'ibumoso yakurambuye ku meza ariho yagatambaro gafite ibara ry'umweru. Imbere ye hari umugore wambaye amarinete ndetse n'itaburiya y'amaboko magufi, mo imbere yambayemo agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'icyatsi.

Imbaga y'abantu bambaye imyenda itandukanye, ndetse hagati muri bo imbere y'amahema afite ibara ry'umweru hari idarapo ririmo ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, ndetse hari inzu hirya yabo ifite urugi rufite ibara ry'icyatsi n'amakositara.

Abana bicaye bambaye udupira dufite ibara rya oranje hari umugore wambaye ijere ndetse n'ingofero bifite ibara rya kake afite igikombe ari kubanywesha hari n'undi mugabo wambaye ingofero ndetse nawe afite igikombe gifite ibara rya pinki hari umwana ari kunywesha nyuma yaho hari abantu bahagaze harimo ufite telefone mu kuboko kw'iburyo.

Abantu bari kuri robine ifite ibara ry'ubururu, hari umubyeyi wicaje mu ibase umwana, ari kumwoza ndetse we yambaye agasengeri gafite ibara rya pinki, iruhande rwabo hari undi mwana uhagaze imbere y'umubyeyi ufite indobo mu ntoki.

Umugore wambaye umupira, akenyeye igitenge, mu mutwe we yambayemo ingofero, imbere hari iriba rifite robine ebyiri ndetse n'ijerekani zifite ibara ry'umuhondo ari kuvomera, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'insina, hari n'icyapa cyanditseho yunisefu mu mabara y'umweru n'ubururu.

Umuganga wambaye ga n'itaburiya y'amaboko maremare bifite ibara ry'umweru, imbere ye hateretse udukarito twinshi turimo imiti itandukanye ndetse n'akandi karimo ga, imbere hari umukecuru wambaye agatambaro gafite ibara ry'umweru n'ubururu mu mutwe.

Aana batatu bambaye impuzankano bombi bafite urufuro mu biganza byabo, imbere yabo hari robine eshatu zifunguye amazi, hirya yabo hari ibiti ndetse bahagaze mu byatsi.

Abantu bahagaze bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru ndetse na baje zifite imigozi ifite ibara ry'ubururu mu ijosi, hari umugabo wambaye amarinete na kositimu ndetse na karuvati, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ku rutugu rw'umugore begeranye.

Abantu bahagaze mu byatsi biri imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu. Ifite amadirishya n'inzugi. Muri bo hari umugore wifashe ku kuboko, yambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara. Hejuru ku nzu hari ijambo ryanditseho rivuga ngo gira ubuzima.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse yandikishije ibara ry'ubururu n'icyatsi inyuma yaho hari ibara ry'umweru ndetse hari icyapa kiriho igitonyanga gifite ibara ry'umweru.

Abaganga babiri bambaye imyenda ndetse n'udupfukamunwa bifite ibara ry'ubururu mu mutwe wabo harimo udufiri hari umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya beje ndetse n'umuhondo mu ijosi afite ibisuko.

Umwana uri gukaraba amazi ari guturuka mu ndobo y'icyatsi ndetse ari gukarabira mu ibase ifite ibara ry'icyatsi. Inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bahagaze bambaye udupfukamunwa muri bo hari abambaye amataburiya y'amaboko magufi afite ibara ry'ubururu, inyuma hari ibyapa bitatu harimo igifite ibara ry'umuhondo, umweru n'ubururu ndetse hari n'umuntu wicaye inyuma yabo uhetse igikapu mu mugongo.

Umwana wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'ubururu, imbere ugiye uciyemo uturongo, dufite ibara ry'umukara, afite isabune mu ntoki ari gukaraba, hari ukuboko gufite ijage ifite ibara ry'icyatsi kuri kumusukira amazi, ukuboko kw'imoso yambayeho agakomo.

Abantu bahagaze bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'ubururu, hari umuhungu uri ku ruhande rw'ibumoso, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro y'umukara, umukobwa uri ku ruhande rw'iburyo yambaye amarinete ndetse mo imbere yambayemo agapira, gafite ibara ry'umweru k'amaboko maremare.

Abagore bakikiye abana ku bibero, muri bo hari abambaye imipira ifite ibara ry'umweru ndetse bakenyeye n'ibitenge, bicaye ku mukeka bararambije hari umugabo ufite inkongoro ari kunywesha uwo mwana ndetse hari n'umugore wambaye ingofero mu mutwe n'ijiri ifite ibara rya kaki.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iruhande rwe hari umugore ufite umwana wambaye igitambaro mu mutwe ndetse hirya yabo hari umugabo ufite ikaramu mu ntoki ndetse wambaye impeta ku kiganza cy'iburyo imbere ye hari ameza ahariho ibitabo bitandukanye.

Umugore ukenyeye igitenge kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, ari ku ivomero afite ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, yambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye.

Abana bari kuvomera amazi mu ndabo zifite ibara ry'umweru, imbere hari umwana ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe kuri robine, ukw'iburyo yagufatishije ku ndobo, hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye, bambaye karavate, harimo umusaza wambaye amarinete. Imbere ye hateretse mudasobwa ndetse na mikoro, yazamuye ukuboko kwe kw'ibumoso yashikamishije ku meza abari imbere. Hateretseho uducupa tw'amazi

Umuganga wambaye itabuririya afite ibara ry'umweru ndetse n'iherena ku gutwi kw'iburyo afite ibisuko ku mutwe, yafashe ku matama y'umwana ukikiwe n'umubyeyi agiye kumuha umuti, mu kiganza cye cy'iburyo afashemo agakombe gato ndetse icy'ibumoso yambayeho ibikomo n'impeta.

Umuntu wambaye umwenda urimo uturongo tw'umweru n'umukara yahinnye ukuboko ndetse imbere ye hari umuganga wambaye ga mu kiganza ndetse afite urushinge mu kuboko kw'iburyo ukuboko kw'ibumoso gufashe ku kuboko k'uwo muntu.

Abagore babiri ibiganza byabo byombi babishyize ku meza abari imbere. Hari uwambaye agashanete mu ijosi, ateze igitambaro gifite ibara ry'umuhondo, yambaye n'impeta ku kuboko kw'ibumoso. Undi ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha...

Abana babiri harimo uwambaye ishati yahinnye amaboko ifite ibara rya pinki ndetse hari undi ufite igikombe gifite ibara ry'ubururu mu kiganza cye cy'iburyo ari kumusukira uwarambuye amaboko ndetse inyuma yabo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza, hariho igitambaro gifite ibara ry'umukara, ndetse ateretseho amacupa na mudasobwa. Hari ufite mikoro mu kuboko kwe kw'iburyo. Ndetse n'uwambaye ishati ifite ibara ry'umukara na baji mu ijosi ifite umugozi ufite ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye kuburyo bw'uruziga hagati hari abandi bahagaze, ndetse hari n'undi uhagaze inyuma yabo wambaye agapira gafite ibara ry'umukara, hari umu mama mu bahagaze mu ruziga wambaye igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'umutuku.

Abantu bahagaze kuma esikariye harimo umugore wambaye ipantaro y’umutuku ndetse n’ishati ifite ibara ry'umweru, hari n’umugabo wambaye kositimu y’umukara mo imbere yambayemo ishati y’umweru ndetse hari n’undi ufashe mu mifuka wambaye ishati y'umweru n’ipantaro y’umukara.

Umuntu wurubitse umutwe ndetse afite ibisuko ku mutwe bifungiye hejuru ibiganza bye byombi yabifatishije ku mutwe yambaye agapira gafite amaboko maremare k'ibara ry'umweru.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umweru w'amaboko magufi, mu kuboko kwe kw'ibumoso afite telefone. Yicaranye n'undi ukikiye umwana, wambaye iherena ku gutwi ndetse umwana ufite n'agakomo ku kuboko kwe kw'ibumoso.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze inyuma yabo, mu bahagaze hari uwambaye agakote gafite ibara ry'ubururu harimo n'akeru ndetse mu bicaye hari uwambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, inyuma yabo hari ibiti n'amazu.

Abana bicaye harimo abari guseka, hari uwazamuye amaboko ayashyira inyuma yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hari uwambaye ishapule mu ijosi ndetse n'iherena ku gutwi.

Umugore wambaye amaherena n'amarinete, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso. Imbere ye hari agatuti gafite ibara ry'icyatsi n'umweru afasheho, kandi hariho na mikoro ebyiri. Yambaye ishanete mu ijosi.

Umugore wikoreye igitebo kirimo ibyatsi ndetse yambaye ikote ririmo ibara ry'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru. Mo imbere yambariyemo agapira gafitemo uturongo twa oranje n'umukara, mu ntoki ze afitemo isuka.

Umuntu wambaye ikositimu zifite ibara ry'umukara, ibiganza bye yabihurije hamwe, imbere ye hari indabo zirimo amabara atandukanye harimo icyatsi, umweru ndetse n'umutuku, iruhande rwe hari undi muntu uhahagaze wambaye ijire.

Abantu bicaye mu ntebe z'ubururu, imbere yabo hari uducupa tw'amazi ya nili kandi hateretse amashakoshi, hari umugore uhagaze hagati yabo wambaye agakote k'amaboko magufi ndetse n'ikanzu. Inyuma yabo hari amadirishya afite amarido y'ibara rya kaki

Umugabo ufite ubwanwa yambaye ishati y'maboko maremare n'ibara ry'ubururu, umutuku n'ayandi yambaye ipantaro yumukara, n'impeta ku kiganza cy'ibumoso, ikiganza cye cy'iburyo gifatanye n'ikindi cy'umuntu wambaye imyenda yacitse.

Abantu bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu n'amaboko magufi bahagaze mu byatsi, imbere yabo hari icyapa hari abandi bari gutera igiti harimo umugabo wambaye ingofero ndetse n'ikote ryo mw’ibara ry'umweru n’umukara.

Umuntu wicaye mu nzira yambaye ikabutura ifite ibara rya kake ndetse n'isengeri, azengurutseho n'ipine kandi ku ruhande rwe hari abantu bahahagaze bambaye inkweto z'imikara ndetse harimo uwambaye ipantaro y'umukara...

Abantu bahagaze bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, irimo n'akabara k'umweru, hagati hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvate.

Abantu bahagaze mu muhanda inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye, harimo kimwe gifite ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'ibindi biriho ibara ry'umweru n'ubururu, harimo umugore ukenyeye ibitenge yambaye inkweto z'icyatsi kandi hari n'umugabo wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Abantu bicaye harimo umugore wambaye iherena ku gutwi kandi amaboko ye yombi ariho ibikomo, ku ruhande rwe rw'iburyo hari umugore uhicaye wambaye ikanzu ndetse afite n'agakayi mu ntoki, inyuma ye hari undi uteza agatambaro ndetse hirya ye hari umugabo.

Umuntu wicaye, yambaye agapira k'amaboko magufi kandi yambaye n'ikabutura, aziritse amapingu ku maboko ye yombi kandi inyuma ye hari abantu bamushungereye, harimo uwambaye ijipo irimo amabara agiye atandukanye ndetse n'umugabo wambaye ipantaro n'inkweto z'umukara.

Umugore wambaye iherena ku gutwi yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ku maboko, ririho agatambaro k'igitenge kari mu mabara atandukanye, yambaye baji ifite umugozi ufite ibara ry'umuhondo n'ikanzu ifite y'ibara ry'umutuku.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, hari abambaye udupira turimo ibara ry'umukara bafatanyije ibiganza, inyuma yabo hari abandi bahagaze kandi hari umugore ufite imisatsi wambaye agapira karimo uturongo tw'ubururu n'umweru.

Abantu basutamye ndetse n'abandi bahagaze, bari mu nyubako ifite purafo y'ibara ry'umweru, mu bahagaze hari umugabo wambaye amarinete ufashe ku meza amuri iruhande ndetse hari n'agacupa k'amazi, mu basutamye hari n'undi wambaye amarinete wambaye ishati y'amaboko maremare.

Umugabo wasetse ufite ibihanga, yambaye ingofero ndetse afite n'ubwanwa n'imkanyari mu maso, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'uturongo tw'umukara, ayiteye umwitero ufite ibara ry'umuhondo.

Umugore uteruye umwana uri guseka, yambaye agapira karimo ibara ry'umweru ndetse n'uturongo turimo ibara ry'umukara, umugore afite umusatsi w'umukara. Inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'umucanga, hirya yabo hari idirishya.

Abantu bahagaze bambaye imipira w'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu irimo n'akabara k'umweru, hari uwambaye furari irimo ibara ry'umutuku, umweru ndetse na kacye, hari umugabo uhagazemo hagati yabo wambaye karuvate, ipantaro, y'umukara ndetse n'ishati ifite ibara ry'umweru.

Umubyeyi wahetse umwana mu mugongo amuhekesheje ingobyi ifite ibara ry'umweru yicaye ku gatebe kuruhande rwe hari undi mwana uhagaze umufashe ku kibero cy'ukuguru kw'iburyo yambaye agakabutura gafite ibara ry'umutuku iruhande rwabo hari isafuriya.

Umukobwa uri guseka ahumirije, yambaye amaherena, ibikomo ndetse na shanete mu ijosi, yamba agasengeri gafite ibara ry'umukara n'ipantaro y'ikoboyi yahinnye.

Umusaza ufite ibihanga ndetse afite n'ubwanwa kandi yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu yiteye umwitero ufite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari abandi bambaye imyenda isa nkiye kandi hari n'igihu.

Umugore wicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agatambaro ateze mu mutwe adafite ibara ry'ubururu yambaye umupira w'amaboko magufi ukuboko kwe kw'iburyo yagushimikamishije ku meza ari imbere ye hariho igitambaro gifite ibara ry'umuhondo ndetse ateretseho n'icupa.

Abagore babiri bicaye ku ntebe y'urubaho. Umwe yifubitse agasharupe ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu. Undi afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo ndetse ku kibero cye cyo ku kuguru kw'ibumoso yarambitseho impapuro.

Abantu bahagaze ku mayesikariye ku ruhande rw’iburyo hari umugabo wambaye ipantaro ifite ibara rya kaki n’ishati y'amaboko maremare n'umukandara ,yegeranye n'umugore wambaye inkweto z'umukara, ijipo ndende ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'agakomo ku kaboko k'iburyo gafite ibara ry'umukara.

Amagambo ari mu ibara ry'umuhondo yandikishije ibara ry'umweru, yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hari n'ahandi hari inyuguti zandikishije ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umugore ufite ishakoshi ndetse yambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso, ukuboko kwe kw'iburyo gufite mikoro. Afite ibisuko yafungishije umubano urimo akabara k'umweru. Imbere ye hahagaze umukobwa wambaye umupira urimo ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara. Inyuma yabo hari intebe ziticayeho abantu ndetse n'iziriho abantu.

Umugore wambaye amarinete yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'agakomo ku kuboko kw'iburyo, yafatishije ku muntu wicaye iruhande rwe wambaye ingofero n'imyenda ifite ibara ry'umutuku.

Abantu bicaye ndetse imbere yabo hari ameza ariho agatambaro gafite ibara ry'umweru hari umugore wambaye amaherena ndetse n'amarinete, afite ikaramu mu biganza kandi ukuboko kwe kw'imoso kuriho impeta ndetse n'isaha imbere ye hateretse uducupa tw'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko ndetse inyuma ye hari abantu benshi bahagaze mu byatsi muri bo hari umuntu wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara n' numupira ufitebara ry'umutuku yambaye n'ipantaro.

Abantu bahagaze ku mapave, bafite icyapa kiri imbere yabo kiriho ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi, ndetse muri bo hari abambaye imipira y'imyeru y'amaboko magufi. Iruhande rwabo, hari ibyatsi ndetse n'indabo.

Abantu bari mu muhanda, harimo abambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'icyatsi. Muri bo hari ufite mu kuboko kw'iburyo indangururamajwi, ukw'ibumoso afitemo urupapuro. Imbere hari abafashe icyapa cyanditseho, "Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye".

Umugore wambaye amarinete ndetse na baje ifite umugozi w'ubururu, mu ijosi yambayemo shanete kandi ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho ibikomo byinshi n'impeta, yambaye umwenda harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu kandi inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umugore ukikiye umwana ku bibero iruhande rwe hari undi uhicaye, imbere ye hari urutara ndetse na mironko ifite ibara ry'umutuku, uwo umwana akikiye yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi.

Abantu bahagaze barikoma mashyi bambaye imyenda itandukanye ndetse harimo abambaye baji zifite udushumi tw'ubururu hagati yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro, inyuma yabo hari ibikuta byubakishije ibara ry'umuhondo ndetse n'amadirishya.

Umugore wambaye amalinette mu ijosi, yambaye nka baji ifite akagozi gafite ibara ry'ubururu, hamwe n'ibikomo ku maboko, yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umugabo uri guseka yicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru ndetse afite ubwanwa, afite amenyo y'umweru, yambaye ishati irimo ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwe hari ikiganza cyambaye ga zifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye ndetse hari n'abandi bahagaze hari abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi ndetse imbere mu gatuza handitseho ijambo '' tubiteho '' imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umweru inyuma yabo hari abandi bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse n'umugore wambaye agapira k'amaboko ku magufi gafite ibara rya orange.

Abana bicaye mu ntebe, inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara, bambaye amashati afite ibara rya beje ndetse harimo n'abambaye amajipo afite ibara ry'ivu, inyuma yabo hari idirishya rifite ibirahuri ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Umugabo ufashe ku rutugu rw'umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi, uwo mugabo yambaye agapfukamunwa yakamanuye, ndetse n'itaburiya ifite ibara ry'umweru harimo n'ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari abantu bahahagaze, ndetse hari n'igikuta kiriho ikibaho gifite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, ndetse irimo n'ubururu, inyuma hari abantu bahagaze, harimo umugabo wambaye ikositimu ifite ibara ry'ivu, ndetse n'imbere yambayemo umwenda ufite ibara ry'umukara, uriho n'ibara rya oranje, inyuma yabo hari igikuta kiriho ikibaho.

Umugabo uri guseka afite ubwanwa, mu gatuza ke hari agatambaro gafite ibara ry'umweru. Yambaye umupira w'amaboko maremare, ibiganza bye yabifatanyije. Imbere ye hari ubukarabiro.

Umukobwa wambaye isengeri ifite ibara ry'umweru, afite imisatsi miremire, ari kwireba mu ndorerwamo, mu kiganza cye cy'ibumoso afite korogate ndetse mu cy'iburyo afite uburoso bufite ibara rya move n'umweru.

Umugore wambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru, intoki ze zose yazizirikiyeho akagozi gafite ibara ry'umweruru agacisha mu ryinyo arashinyiriza ,afite imisatsi igera mu maso kandi yambaye amaherena ku matwi yombi

Umugabo uri guseka afite amenyo y'umweru n'ubwanwa, afite umusatsi w'umukara yambaye ishati irimo uturongo turiho ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere ye hari umuntu wambaye ga mu ntoki zifite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze bafite impapuro mu ntoki ndetse n'abandi bambaye amataburiya, hari umuntu wambaye ingofero y'umutuku wafashe mu mutwe. Yambaye ikabutura ifite ibara ry'ubururu harimo uturongo tw'umweru, imbere ya bo hari icyapa ndetse n'ihema ririho ibara ry'umweru n'ubururu. Hirya ya bo hari ibiti n'amatara yo ku mihanda.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye n'agafukamunwa, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'ishati na ga bifite ibara ry'umweru, iruhande rwe hari umugore we wambaye ishati ifite ibara ry'umukara ndetse n'iherena ku gutwi rifite ibara ry'umukara n'umuhondo, yambaye agapfukamunwa ndetse....

Abantu bicaye bambaye imipira migufi ifite ibara ry'icyatsi, imbere yanyandikishije amagambo ari mu ibara ry'umuhondo avuga ngo tubiteho, inyuma yabo hahagaze abaganga bambaye imipira y'imyeru ndetse n'abambaye ga mu biganza, hari umugore wifashe ku gahanga wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Umwana uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umweru n'ubururu yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse hari umuganga wambaye agapfukamunwa na ga mu ntoki kandi yegereye uwo mwana.

Abana bambaye impuzankano bari ku murongo harimo ufite uburoso bw'umuhondo n'umweru mu kuboko kw'iburyo, hari n'undi uri koza amenyo ufite uburoso bufite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari n'undi ufite ubufite ibara ry'ubururu.

Umuntu uryamye ku gitanda, mu gatuza ke harambuyeho agatambaro gafite ibara ry'ubururu juru. Ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye amarinete n'agapfukamunwa, ndetse yambaye isaha ku kuboko n'ishati y'amaboko maremare irimo ibara ry'umweru n'uturongo tw'ibara ry'umukara. Ku ruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye karuvate n’ishati y'umweru y'amaboko maremare.

Icyumba gifite amatara afite ibara ry'umweru hejuru muri purafo, hari amadirishya n'inzugi by'ibirahure, imbere hari ubukarabiro ndetse kirimo n'intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'amapine.

Umuntu uri kwireba mu ndorerwamo iri imbere ye, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo uburoso bufite ibara ry'umweru n'ubururu, yambaye isengeri ifite ibara ry'umweru ndetse n'agatambaro ateze mu mutwe.

Umuntu wicaye ku ntebe y'umukara ndetse yambaye n'umupira ufite ibara ry'umukara, arasamye ari kureba hejuru, urutoki rwe rw'ukuboko kw'iburyo yarutunze ku menyo, imbere ya hari umuntu wambaye ga mu ntoki ndetse n'imyenda y'imyeru.

Umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi n'agapfukamunwa, yambaye n'amarinete, iruhande rwe hari umwana uryamye wambaye agapira karimo amabara y'icyatsi, umukara n'umweru wasamye.

Umugore wambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru ndetse n'umwana umuri imbere nawe wambaye agasengeri k'ibara ry'umweru umugore mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo uburoso bufite ibara rya move n'umweru umwana nawe we afite uburoso mu kuboko kwe kw'iburyo.

Imvi warambuye amaboko yambaye iherena ku gutwi, imbere ye hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rya move, inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahure.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubudodo ikiganza cye cy'iburyo afashemo inkoni ndetse yambayeho n'impeta inyuma ye hari umukobwa wunamye uri guseka ikiganza cy'uwo mukobwa cy'ibumoso gifashe ku rutugu rw'uwo musaza yambaye iherena ku gutwi.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi. Imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe cy'ikirahure kirimo amazi. Kandi umukecuru yambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'impeta ku kiganza cy'ibumoso. Mu ntoki afitemo igipapuro.

Umusaza uri guseka yicaye mu kagare k'abafite ubumuga gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, yambaye amarinete, afite imvi inyuma ye hari umukobwa nawe uri guseka wambaye agapira k'amaboko magufi ari kumusunikira akagare.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko maremare ndetse yicaye mu kagareri k'abafite ubumuga inyuma ye hari umuganga umufashe ku rutugu ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu juru inyuma yabo hari intebe zicayeho abantu ndetse hirya yabo nabo hari amadirishya n'inzugi.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi, imbere yabo hari ameza, umusaza mu kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho agakomo k'umukara ndetse n'impeta, umukecuru yambaye iherena ku gutwi kandi ku kiganza cye cy'iburyo yambayeho impeta no ku k'ibumoso.

Umusaza wicaye afite imvi ndetse n'iminkanyari, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara ihinnye, iruhande rwe hari akana k'agakobwa kahicaye kambaye ikanzu irimo ibara ry'umutuku n'umweru ndetse inyuma yabo hari umuryango.

Abantu bahagaze munsi y'igiti harimo umugabo ufashe mu kiganza cya mugenzi we yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'inkweto z'umukara. Inyuma yabo hari ihema ririmo ibara ry'umuhondo, icyaysi ndetse n'ubururu.

Umukecuru uri guseka ufite imvi, hagati hari umukobwa wambaye amarinete afite ibisuko, ku ruhande hari umwana uhumurije, afite ibyatsi mu ntoki, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umugabo ufashe ibyuma iburyo n'ibumoso, iruhande rwe hari umukobwa wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'iburyo, afashe ku rutugu uwo mugabo.

Umukecuru wicaye mu ntebe z'imisego ari guseka yambaye amaherena ku matwi yombi; yambaye ndetse n'impeta ku kiganza cye cy'ibumoso; inyuma ye hari umuntu usutse ibisuko biryamye ku mutwe; yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru ndetse inyuma yambariyeho ak'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'impeta ku kiganza cyo ku kuboko kw'ibumoso, imbere ye hateretse igikombe cy'ikirahure kirimo amazi, umukecuru yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso bombi bafite imvi.

Umugore uri mu kagare k'abafite ubumuga, gafite ibara ry'umukara, yambaye iherena ku gutwi ndetse n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso. Imbere ye hari umugore uhicaye, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari mu ntebe z'imisego ifite ibara rya shokora.

Abagore bafite imvi bari guseka, uri hagati afite telefone mu kuboko kwe kw'iburyo, yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse uri ku ruhande rwe rw'ibumoso, yambaye iherena ku gutwi, uri ku ruhande rwe rw'iburyo, yambaye agapira gafite ibara ry'umweru.

Abantu batatu bahagaze, hagati hari umukecuru wambaye amarinete ufite imvi, ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umuhungu wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ibipesu by'umweru, ku ruhande rwe rw'iburyo hari umukobwa uri guseka ufite umusatsi muke, ku mutwe wambaye iherena ku gutwi kwe kw'iburyo.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, afite ubwanwa ndetse n'imvi, ari guseka. Iruhande rwe hari umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, ufite imisatsi miremire, yamufashe ku rutugu rwo ku kuboko kw'iburyo.

Abantu bahagaze mu muhanda bari guseka, umukecuru n'umusaza bafite imvi, umusaza yambaye amarinete, hari akana gahagaze imbere ndetse umuri inyuma yamushyizeho ukuboko kw'ibumoso, umukecuru yambaye impeta ku kuboko kw'ibumoso, inyuma yabo hari imodoka.

Abagore bicaye imbere yabo hari ibikarito birimo inyanya zifite ibara ry'umutuku, harimo uwambaye iherena ku gutwi ndetse n'agashanete mu ijosi, harimo umugore wambaye igitenge kirimo ibara ry'umutuku, icyatsi.

Umukecuru uri guseka yambaye iherena ku gutwi ndetse n'amarinete, afite imvi afite icyuma mu ntoki ari gukata, imbere ye hari inyanya zifite ibara ry'umutuku, ku ruhande rwe hari undi uhicaye witangiye itama.

Abakecuru bicaye hari abafite imvi abateze udutambaro mu mutwe ndetse n'undi wambaye ingofero iboshye mu budodo ifite ibara ry'umweru n'ubururu imbere yabo hari ishakoshi ihateretse inyuma yabo hari insina ndetse n'intebe zifite ibara ry'umweru.

Umukecuru wicaye ku buriri, inyuma ye hari imisego, yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'ivu ndetse mo imbere yambariyemo undi mwenda ufite ibara ry'ubururu, imbere ye hahagaze umukobwa wambaye imyenda y'imikara ndetse afite imisatsi miremire.

Umusaza uri guseka afite umusatsi uririmo imvi ndetse n'iminkanya mu maso yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu ndetse harimo n'uturongo tw'umweru imbere ye hari ameza yashyizeho ukuboko kwe kw'ibumoso.

Umusaza ufite imvi wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, ukuboko kwe kw'iburyo gufashwe n'umugore wambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara rya beje.

Umusaza ufite uruhara ndetse n'ubwanwa burimo imvi, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu y'amaboko magufi, afite ibisuko ku mutwe, ndetse yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso.

Umukecuru ufite imvi, yambaye amaherena ku matwi yombi, ndetse yambaye agakote gafite ibara ry'umukara, gafite n'imashini imbere. Inyuma ye hari umukobwa uri guseka wamufashe ku kuboko kw'iburyo wambaye agapira k'amaboko magufi.

Abantu bahagaze, harimo uwambaye agapira k'amaboko maremare ndetse n'iherena ku gutwi. Inyuma yabo hari isaha imanitse ku gikuta gifite ibara ry'umweru. Imbere yabo hari ubukarabiro ndetse n'urusenda rufite ibara ry'umuhondo hamwe n'inyanya zifite ibara ry'umutuku.

Umwana ufite balo mu ntoki yambaye agapantaro gafite ibara ry'icyatsi inyuma ye hari umugabo wambaye amasogisi y’umweru ndetse n'ikabutura ifite ibara rya kaki bari mukibuga inyuma yaho hari ibyatsi n'ibiti….

Umusaza wambaye amarinete yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, yicaye mu ntebe zifite imisego, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, yamwambitse igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'iburyo.

Abagabo bicaye hasi harimo uwitangiye itama yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru harimo n'undi wambaye umupira urimo icyatsi n'uturongo tw'umweru nta musaza wambaye ingofero mu mutwe ifite ibara ry'umweru n’icyatsi ndetse n’undi ufite agatebo mu ntoki ari kuboha.

Abantu bicaye ku ntebe ziteretse mu byatsi ndetse n'abandi bicaye hasi barambije, abicaye ku ntebe hari uwicaye ku ifite ibara ry'umutuku ndetse yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umukara n'ipantaro y'umweru, hari umubyeyi uteze agatambaro mu mutwe wicaye hasi arambije.

Umusaza ufite iminkanyari n'uruhara kandi afite n'imvi, yambaye ishati y'amaboko maremare mu kuboko kwe kw'iburyo afashe telefone, ku ruhande rwe hari umugore wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso yagushikamishije ku meza abari imbere.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi, umusaza yambaye agakomo ndetse n'impeta ku kuboko kw'iburyo, umukecuru yambaye impeta ebyiri ku kuboko kw'iburyo ndetse afite urupapuro mu kiganza cye.

Umugore wambaye agasengeri gafite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, ukuguru kwe kw'ibumoso yaguhinnye ndetse ukw'iburyo arakurambura, amaboko ye yombi yayafatishije ku rukweto yambaye ku kuguru kw'iburyo yicaye kuri tapi.

Umugore wambaye shanete mu ijosi ndetse afite inkoni yigonze mu kuboko kw'iburyo, iruhande rwe hari umugabo ufite ubwanwa ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ishati ifite amaboko magufi.

Umukecuru uhagaze nta musatsi afite yambaye iherena ku gutwi kw'iburyo, inyuma ye hari igikuta kiriho amakaro ndetse n'amadirishya, hamwe n'amarido, afite ikirahure kirimo amazi mu kiganza cye cy'iburyo.

Umugabo ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi birimo imvi, yambaye agapira gafite ibara rya beje k'amaboko magufi, yambaye n'ipantaro ndetse imbere ye hari undi uhahagaze nawe wambaye agapira k'amaboko magufi, bafite umugozi mu ntoki bari gukurura, inyuma yabo hari inkuta zifite ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze hagati y'ibyatsi by'amoko atandukanye, harimo uwunamye witeza agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'ubururu, ndetse yambaye n’agapira k'amaboko maremare. Hari undi mugore wazamuye ukuboko kurimo isuka, ndetse yambaye umupira wanditseho umubare cumi na rimwe.

Umugore wambaye amarinete ndetse n'undi umwegereye wambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso. Babiri muri bo bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu harimo n'umweru, hirya yabo hari ibirabyo ndetse bari muri kaburimbo ifite ibara ry'umukara, ku mpande hariho umweru n'umukara.

Umukecuru wicaye afite iminkanyari, mu ijosi yambayemo agashaneti, imbere ye hari ameza ariho igikombe cy'ikirahure, iruhande rwe hari umugore uhagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, yambaye agakomo ku kuboko kwe ku ibumoso, hirya yabo hari ikirabo kiri mu ivaze.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro, yicaye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru, hamwe n'uburingiti bufite ibara risa n'ivu, yambaye amarinete kandi hirya ye hari supanete imanitse, ifite ibara ry'umweru, hari umukobwa wunamye, wambaye imyenda y'ubururu, ufite imisatsi miremire, amufashe k'ukuboko kw'ibumoso, inyuma yabo hari idirishya ry'ibirahure.

Umukecuru ufite imvi yambaye amarinete n'iherena ku gutwi ,ikiganza cye cy'iburyo yacyometse ku munwa ndetse kiriho n'impeta, icy'ibumoso gifashe ikirahure kandi inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru,

Umukecuru ufite iminkanyari aricaye, imbere ye hari ameza, mu kiganza cye cy'iburyo afashe ikirahure kirimo amazi, iruhande rwe hari umuganga wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse yambaye n'ishati n'ipantaro bifite ibara ry'ubururu, yambaye iherena ku gutwi.

Umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo w'amaboko maremare ndetse n'amarinete, iruhande rwe hari umwana uri guseka ufite imisatsi myinshi, wambaye umupira w'amaboko ma maremare ufite ibara ry'icyatsi ndetse yicaye mu ntebe z'imisego.

Abantu bari munsi yigiti kinini bicaye ku ntebe bamwe, abandi bicaye hasi. Harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, ku maboko gafite ibara rya oranje.

Umukecuru n'umusaza bafite imviri imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kurya bigiye bitandukanye kandi hariho ikirahure cy'amazi, umusaza yambaye impeta n'ikiganza cyo ku kuboko kw'ibumoso, umukecuru yambaye iherena ku gitwi ndetse n'agakomo mu ijosi.

Abantu bambaye amataburiya y'amaboko maremare afite ibara ry'ubururu ndetse mu biganza byabo bambaye ga n'udupfukamunwa ndetse n'udufire dufite ibara ry'umweru, hari intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'undi muntu wicaye wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu mu mutwe, inyuma yabo hari abantu bahagaze.

Abantu bicaye imbere mu ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari mikoro ziri ku meza, ndetse umwe imbere ye hari mudasobwa, bafite uducupa tw'amazi duteretse ku meza, bambaye kositimu, harimo umugabo wambaye amarinete.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza hari inyuguti zifite amabara atandukanye, hari r ifite ibara ry'ubururu, b ifite ibara ry'umuhondo na c ifite ibara ry'icyatsi, muri ayo magambo hari ahanditse ijambo Rwanda.

Abantu bahagaze inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo n'umugabo wambaye karuvati y'ubururu mo imbere yambayemo ishati y'umweru.

Umugore wambaye amarinete iherena ku gutwi n'agashanete mu ijosi imbere ye hari agatuti kariho mikoro ebyiri zifite ibara ry'umukara ndetse ko karasa umweru n'icyatsi ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha ifite ibara ry'umukara.

Abantu bicaye ndetse n'bandi bahagaze inyuma, kandi inyuma yabo kurundi ruhande rw'iburyo hari idarapo rifite ibara ry'icyatsi ndetse ku urw'imoso hari itapi rifite ibara ry'ubururu, mu bicaye hari umugore wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu kandi hari umugabo begeranye wambaye ikositimu ifite ibara ry'umukara na karuvati ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye udupira tw'amaboko magufi, imbere yabo hahagaze umuntu wegeranye n'icyapa kirimo ibara ry'umutuku n'umukara n'umweru kandi bari mu nzu yubakishije amatafari ahiye ifite n'amadirishya y'ibirahure.

Abantu bambaye udupfukamunwa, imbere ye hari umugore wambaye ijire y'umukara irimo uturongo tw'umweru, ndetse inyuma ye hari undi wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu n'undi wambaye ufite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari igikuta cyometseho impapuro zitandukanye.

Abantu bicaye hari n'abandi bahagaze imbere yabo bambaye imikenyero bateze amaboko harimo abagabo bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu n'imyitero y'imyeru, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ijambo riri mu rurimi rw'icyongereza ryandikishijwe ibara ry'umutuku.

Muganga wambaye agapfukamunwa n'amarinete ndetse yambaye n'ijiri ifite ibara ry'icyatsi harimo uturongo dufite ibara ry'ivu imbere ye hari umugabo wahinnnye ukuboko kw'ibumoso agiye kumuteraho urushinge.

Umugore wicaye mu ntebe ifite ibara rya beje, yambaye amarinete, afite mikoro mu kuboko kwe kw'iburyo, ukuguru kwe kw'ibumoso yakugeretse ku kuguru kw'iburyo, yambaye baji mu ijosi ndetse ku itako rye hariho igitabo.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, harimo umukobwa ufite ibisuko n'amarinete, kandi imbere hari n'undi uhahagaze, wambaye amaherena ku matwi, ndetse yegeranye n'umugabo ufite udukomo yambaye ku kuboko kw'iburyo.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye ikositimu, inyuma ye hari agatuti, afite mikoro mu kuboko kw'ibumoso, hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Umukecuru ufite iminkanyari mu maso ndetse ijisho rye ry'iburyo ripfukishije igifuko gifite ibara ry'umweru, mu mutwe yambaye agatambaro gafite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'akabara k'umweru.

Abantu bahagaze bambaye imipira y'amaboko magufi irimo ibara ry'umweru ndetse harimo n'akabara k'umuhondo, harimo abambaye amapantaro y'imikara ndetse n'abambaye amapantaro afite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'urugi rufite ibirahure.

Abantu bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, ndetse kuruhande rw'ibumoso hari uwambaye ingofero ifite ibara ry'umukara hamwe n'ibikomo bifite ibara ry'umuhondo n'umweru yambaye ku kuboko kwe kw'iburyo.

Abantu babiri bahagaze bafite icyapa cyanditseho twisuzumije igituntu kiravurwa kirakira, ndetse umugabo yambaye impeta ku kiganza cy'iburyo n'isaha ku kuboko kw'iburyo, yambaye ishati y'amaguru maremare ifite ibara ry'umukara n'umugore yambaye amaherena ku matwi, inyuma yabo hari amadarapo atandukanye.

Abantu bahagaze bambaye baji bahagaze kuri tapi ifite ibara ry’icyatsi kuruhande rw’ibumoso hari umugore uhagaze wambaye imyenda ifite ibara ry’umweru amasogisi y’umweru n’inkweto z'umukara kuruhande rw’iburyo hari umugabo uhagaze wambaye inkweto z'umukara ndetse amaboko ye yayashyize inyuma.

Abantu bicaye ku gikuta kiri mu ibaraza ndetse hari abegamye ku nkingi y'inzu, harimo umuntu wambaye ikote rifite ibara ry'umutuku n'ingofero y'umutuku ndetse hari n'ukenyeye igitenge, wambaye ingofero mu mutwe n'agapira k'amaboko maremare gafite ibara rya pinki.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isakarishije ibati rifite ibara ry'umutuku ndetse isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya n'inzugi, imbere yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, avuga ngo: " Shyira disitrict hospital".

Umugore wambaye ibitenge bisa n'icyo ateze mu mutwe. Aryamye ku gitanda, iruhande rwe hari umuganga w'umugore, wambaye amarinete ndetse n'itaburiya y'amaboko maremare na ga bifite ibara ry'umweru.

Icyumba gifite inkuta zanditseho amagambo y'icyongereza ndetse n'imibare, harimo ahari umuryango wanditseho zeru rimwe ndetse n'undi muryango wanditseho zeru kabiri, yombi ifite ibirahuri kandi hari n'amatara ari kwaka hejuru muri parafo ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo televiziyo hari n'imigozi myinshi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ahantu handitse samusanga gifite igikuta cy'umweru kiriho purize ndetse n'aho bacanira itara.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya ndetse imbere yayo hari umutaka uhagazemo abantu. Haparitse n'imodoka ndetse hirya no hino hagiye hari ibiti.

Icyumba gifite urukuta ndetse na purafo bifite ibara ry'umweru, hari ubukarabiro ndetse harimo n'igitanda gifite amapine ibara ry'umweru ndetse n'ubururu gishasheho uburingiti bufite ibara rya kaki ndetse n'umusego.

Icyumba kirimo abantu bambaye ibisarubeti ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo hari ibitanda, imbere yabo hari intebe zifite ibara ry'umukara, hari amadirishya ariho amarido afite ibara ry'ubururu na supanete zimanitse hejuru y'ibitanda.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ndetse hari inzugi zigiye zometseho ibipapuro bitandukanye. Imbere yayo hari imodoka zihaparitse, kandi hejuru hari amagambo yanditse avuga ngo ubwiza n'ubuzima.

Inyubako zisakarishije amabati y'umutuku, zisize amarangi y'umweru, zifite amadirishya ndetse n'inzugi, imbere yaho hari akayira k'amapave ndetse n'ubusitani buri hagati.

Umukobwa wunamye wambaye ga mu ntoki ndetse yambaye n'itaburiya ifite ibara ry'umweru, ririmo uturongo twa beje, yambaye agakomo ku kuboko kwe kw'ibumoso, gafite ibara ry'umukara.

Umuntu uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, bamworoshe igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, hari abaganga, umwe aricaye ku ntebe, abandi babiri barahagaze bambaye udufire mu mutwe.

Umuryango ufite urugi rw'ibirahure ndetse igikuta cyubakishije amatafari ahiye avanzemo n'umucanga hejuru hari amagambo yanditse avuga ngo '' isange one stop center '' aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umwana wicaye ku gitanda yambaye ipantaro ndetse iruhande hari undi muntu uhicaye wambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara, n'agapira k'amaboko magufi, uteze igitambaro mu mutwe hari umuganga umufashe ndetse yambaye agapfukamunwa n'itaburiya, ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara atandukanye, iry'umukara, umweru n'umuhondo, hirya yaho hari ibyatsi ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye. Ku rundi ruhande hari icyapa kirimo amabara atandukanye harimo irya move, umweru, pinki.

Umuntu wambaye inkweto z'umukara, afite ibisuko ku mutwe, yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, hirya ye hari abantu bahagaze harimo abambaye imyenda y'imyeru, ndetse hari n'ibikuta biriho ibara ry'umweru, n'inzugi n'amatara ari hejuru yaka umweru kuri parafo.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse, isize irange rifite ibara rya beje. Inzugi n'amadirishya byazo bifite ibirahuri. Kandi hari imodoka ebyiri zihaparitse, ndetse imbere yayo hari amavaze ateyemo ibiti.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye, harimo iz'imisego ndetse n'indi ifite ibara ry'umukara. Hari ameza afite ibara ry'umweru n'icyatsi ateretseho mudasobwa ndetse n'igikuta gishushanyijeho amaso y'ubwoko butandukanye.

Icyumba kirimo ibishushanyo bigiye bitandukanye bishushanyije ku bikuta ndetse harimo na televiziyo, hejuru muri purafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru kandi harimo igitanda gisasheho amashuka afite ibara ry'ubururu ndetse n'umusego w'umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi agiye atandukanye ndetse hari n'ahantu hamwe na hamwe hagiye hubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya ndetse n'inzugi by'ibirahure hari abantu bahagaze ndetse n'amapave n'imodoka iparitse.

Icyumba kirimo igitanda gifite ibara ry'ubururu, hariho n'amashuka afite ibara ry'umweru. Iruhande rwacyo hari televiziyo ndetse gifite inzugi n'amadirishya birimo ibirahure.

Umuntu wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda yikwije ifite ibara ry'umweru yambaye bote z'umukara imbere hari indubo ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'inyuma ye hari indi ifite ibara ry'ubururu ari imbere y'urugi.

Inyubako irimo amatara afite ibara ry'umweru ndetse na parafo, hasi hari amakaro y'ibara ry'umweru ndetse n'intebe zifite ibara ry'ubururu n'izifite ibara ry'ivu, harimo ameza ndetse na kamera.

Inyubako ifite ama esikariye imbere yayo, umuryango wayo urafunguye igihe yometseho ibyapa bigiye bitandukanye, biriho amacupa ndetse hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyumba giteretsemo ivaze ririmo ururabo, inzugi zacyo zifite ibirahure ndetse na serire, ku gikuta hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, yandikishije inyuguti ziri mu mabara y'umweru.

Umugabo uri guseka wambaye amarinete yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, iruhande rwe hari umuntu uhahagaze amaboko ye yose yayashyize ku nda, yambaye umwenda urimo amabara atandukanye harimo n'iry'ubururu.

Inyubako irimo amabara menshi atandukanye harimo ibara ry'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse na orange ifite amadirishya y'ibirahure afitemo ibara ry'ubururu hejuru muri purafo hari amatara yaka ibara ry'umweru.

Umuntu uryamye ku gitanda, ariyoroshe, ndetse inyuma ye hari amadirishya ariho amadido y'umweru, ndetse afite n'ibirahure na giririyage. Iruhande rwe hari ibyuma bigiye bitandukanye, biriho imigozi ifite amabara y'umweru n'umukara.

Inzu yubakisheje amatafari ahiye ifite urugi rw'ibirahure birimo ibara ry'umweru rwometseho impapuro zitandukanye, hejuru y'urugi hari amagambo yanditse mu nyuguti zirimo amabara atandukanye, harimo ibara ry'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Korodoro ifite parafo irimo ibara ry'umweru ndetse n'amatara ari kwakamo afite ibara ry'umweru hirya no hino hari ibikuta bisize irangi ry'umweru kandi hariho n'inzugi zifite ibara rya kake.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ifite amadirishya n'inzugi by'ibirahure, ndetse imbere yayo hari intebe ziri ku murongo zifite ibara ry'umuhondo, ikikijwe n'ubusitani burimo indabo, ibiti, n'ibyatsi.

Icyumba gisize irangi rifite ibara ry'umuhondo kandi hejuru hari purafo ifite ibara ry'umweru. Inzugi zayo ni ibirahuri kandi zisize irangi risa n'ivu. Mo imbere hari intebe zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amapine.

Umusaza wambaye amarinete afite n'imvi ari guseka yambaye ishati iriho ibipesu ndetse n'ipantaro isa n'ivu iruhande rwe hari umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse afite n'imisatsi miremire yambaye n'iherena k'ugutwi.

Inyubako zubakishije amabara atandukanye harimo irya oranje, zifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, hari igiti kiri iruhande rwazo kandi hari utuyira turimo amapave, hirya yaho hari ubusitani.

Umugore wambaye amarinete afite ibisuko ku mutwe, yambaye imyenda irimo ibara ry'umweru n'ubururu, ku ruhande rwe hari umugore ufite umwana mu biganza, yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'agashanete mu ijosi.

Icyumba gifite inkuta z'umweru, harimo intebe z'ubwoko butandukanye: izifite ibara ry'umukara ndetse n'izifite ibara ry'ubururu, hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru, muri parafo harimo ibara ry'umuhondo ndetse na beje. Hari amadirishya afite ibirahure n'inzugi.

Igipangu cyubakishije ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, mu imbere hari ubusitani ndetse n'inyubako nyinshi zisakarishije amabati afite ibara ry'ubururu, mu nguni y'igipangu hari icyapa cyanditseho ibitaro bya ruhengeri, imbere y'icyo gipangu hari urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda bambaye imyenda itandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi wicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari ameza ndetse hari n'umugabo uhicaye wambaye ijire n'agapira gafite ibara ry'umweru harimo n'ibara ry'umutuku ku kuboko kw'ibumoso afitemo n'ikaramu hari ameza afite ibara ry'umweru.

Ibitanda biri ku murongo biriho ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'ahandi hari akabara k'umutuku, biri mu cyumba gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya y'ibirahure.

Uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umweru iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi afite ibara ry'ubururu afite ibisuko yafungishije akagozi gafite ibara ry'ubururu.

Inyubako zisize amarangi atandukanye. Hari igiti kirekire gifite amababi ndetse n'amashami menshi, kiri mu busitani buri imbere y'izo nyubako n'icyapa kirimo amabara atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi, umuhondo, ubururu n'ayandi.

Inzu zisakashijeje amabati afite ibara ry'umutuku. Zifite amadirishya y'ibirahure, kandi hari ahari kwaka amatara, hagaze abantu mu ibaraza. Hagati yazo, hari ubusitani ndetse hari n'igiti kinini, gifite amashami n'amababi menshi.

Amavaze ateyemo indabo zifite amabara y'icyatsi, ameza afite amabara atandukanye, hari afite ibara ry'umukara ndetse n'ifite ibara ry'umweru hamwe n'iyindi ifite ibara rya kake, intebe zifite imisego ifite ibara risa n'ivu.

Umuganga wambaye agapfukamunwa asutse ibisuko ndetse yambaye n'ihena ku gutwi kw'imoso yambaye itaburiya, afite ibara ry'umweru imbere ye hari umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse inyuma ye mu mugongo hari imishumi ifite ibara ry'ivu.

Inyubako isize irange ry'umweru ndetse iriho amadirishya n'inzugi, isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yaho hari ubusitani ndetse hari n'amagambo yanditse ho avuga ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere y'iyo nyubako hari n'idarapo.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse. Imbere ifite ibaraza ndetse n'inkingi, ifite amadirishya n'inzugi bifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibirahure. Iruhande rwaho haparitse imodoka kandi hari n'ubusitani.

Inyubako isize amarangi atandukanye, ndetse isakarishije amabati y'ubururu. Imbere yaho hari imodoka ihaparitse, ndetse n'abantu bahagaze. Kandi hari abantu bari mu ibaraza ryayo. Ifite inzugi, n'amadirishya, n'ibirahure.

Abantu bicaye hari umugore uteze igitenge mu mutwe ahetse umwana mu mugongo, imbere yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'inzugi n'amadirishya, hari ahanditse ngo "aho bakirira abagana ikigo nderabuzima."

Abaganga babiri ndetse n'undi mugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ivu, ndetse n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso, hari uhagaze yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'igitabo, hirya ye hari ameza ateretseho mudasobwa.

Abagore bane bambaye udupfukamunwa, bari imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo n'umweru, imbere yayo hari n'ubusitani, ifite amadirishya n'inzugi by'ibirahure kandi hejuru handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Umukecuru uteze igitambaro mu mutwe, yambaye ikanzu idodesheje mu gitenge, irimo amabara atandukanye: iry'ubururu, umuhondo ndetse iruhande rwe hari umugabo uhicaye wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibase ihateretse ndetse hirya yabo hari indabo n'insina.

Icyumba kiriho utubati dufite ibara ry'umweru, ndetse hejuru muri prafu hari ibara ry'umweru n'amata yaka umweru, ahantu hamwe na hamwe hagiye hari ibara ry'ivu.

Icyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru kandi harimo n'amakaro, hejuru muri purafo hafite ibara ry'umweru ndetse n'amatara ari kwakamo, araka ibara ry'umweru hari inzugi z'ibirahure kandi zisize irange risa n'ivu.

Inzu yubakishije amabuye ifite idirishya ry'ibirahure kandi hino yayo hari fondasiyo yubakishije amabuye yegeranye n'amayesikariye, hari indabyo zifite amabara agiye atandukanye kandi hari n'abantu bahagaze ku ibarazara ry'iyo nzu.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse, isize irangi rifite ibara ry'umweru ndetse hariho n'amatafari ahiye, imodoka ziparitse mu gipangu cyayo cyubatswe n'ibyuma, inyuma y'igipangu hari ibyatsi n'ibiti.

Inyubako isakarishije amabati afite ibara ry'umutuku, yubakishije amabara atandukanye ndetse ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure. Imbere yayo hari ubusitani ndetse n'utuyira tugenda dukata muri ubwo busitani. Hari umugore witwikiriye umutaka ndetse n'idaraporo ririmo ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Inzu yubakishije amabuye iriho idirishya rifite ibirahuri, imbere yaryo hari abantu bahahagaze ndetse hino yaryo hari ama esikariye n'ubusitani.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'amapantaro y'imikara, hari abicaye hari n'uri kugenda wambaye ga mu ntoki zifite ibara ry'ubururu kandi hirya yabo hari amadirishya n'ibirahure.

Inzu ifite inzugi ndetse na parafo ifite ibara ry'umweru ibikuta byaryo hariho irangi ry'umweru n'akarongo karimo ubururu ndetse ahagana hasi hari ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo ibitanda bitondetse ku murongo ndetse hari n'amadirishya y'ibirahure n'inzugi, harimo ibintu bitandukanye, amashoka ari kuri ibyo bitanda afite ibara ry'umweru ndetse n'imisego.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakajije amabati ariho ibara ry'ubururu; mu ibaraza hari imodoka ziparitse ndetse imbere yazo hari ubusitani burimo igiti kinini gifite amashami menshi.

Inyubako isize amarangi atandukanye hari ay'umweru ndetse na oranje, imbere yaho hari amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru avuga ngo: "Nyarugenge District Hospital" imbere yaho hari abantu bahagaze ndetse n'ubusitani.

Inzu isize amarangi y'umweru ndetse ifite inzugi n'amadirishya bifite giriyage ndetse n'ibirahure kandi bisize irangi risa n'ivu. Hejuru hari amagambo yanditse mu kinyarwanda avuga ngo "Inzu y'ababyeyi" kandi isakaje amabati y'ubururu, hirya no hino hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abakobwa bafunze ibipfunsi bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari icyapa cyandikishije ibara ry'icyatsi, umukara ndetse n'ubururu.

Icyumba kirimo intebe zifite udupine duto, hari igikuta gisize ibara rya beje, hometseho isaha imanitse ndetse n'amataburo atandukanye, hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Akabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'izisa n'ivu, karimo udukweto twinshi tugiye dutandukanye, tumwe tugeretse ku tundi kandi hari udufite ibara ry'umweru n'umutuku, harimo utundi dufite ibara ry'ubururu ndetse n'utundi dufite ibara rya oranje.

Inzu iriho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse kiriho amagambo yanditse mu cyongereza, yandikishije ibara ry'icyatsi, hariho amakositara ndetse n'inkingi zifite ibara ry'umweru, imbere hari moto ziparitse ndetse n'umuntu uhahagaze wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru.

Inzu irimo intebe zifite ibiti ndetse ziriho imisego ifite ibara ry'umweru hamwe n'ivu. Hari ameza afite ibara ry'umukara ateretse hagati, ndetse n'amarido n'ibikuta bifite ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru n'iherena ku gutwi kw'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi, imbere yandikishije amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse na ga mu biganza, iruhande rwe hari umwana w'uruhinja.

Umugore we wambaye isaha ku kuboko ndetse na ga mu ntoki, yambaye marinete ndetse n'imyenda ifite ibara rya move, iruhande rwe hicaye abagore babiri harimo umukecuru ufite umusatsi urimo imvi wambaye ikanzu idodesheje mu gitenge kandi hirya yabo hari ibiti.

Umuganga ufite agacupa mu ntoki gafite umupfundikizo ufite ibara ry'ubururu ndetse yambaye itaburiya y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, yambaye agapfukamunwa na ga mu ntoki zifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ameza ateretseho mudasobwa munsi yayo hari intebe ifite ibara ry'umukara.

Inyubako isize amarangi atandukanye isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu hari abantu bahagaze imbere yayo ndetse n'imodoka iparitse ifite inzugi n'amadirishya ndetse n'ibaraza.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize irange ry'umweru ndetse hari n'ahandi yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi imbere yayo hahagaze abantu bari mu muhanda.

Inyubako yubakishije amarange y'umweru ndetse n'andi atandukanye, imbere yayo hari ibyapa bifite ibara ry'umweru birimo amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, ku ruhande hari amababi y'ibiti.

Umwana wambaye ikote ndetse n'ipantaro bifite ibara ry'umukara, hari umugabo ari gusunika wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari umugore uhahagaze ndetse hari n'ibitambaro bifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'umweru ndetse n'icyatsi.

Icyumba kirimo amatara y'umweru ari hejuru muri parafo, gifite amarido afite ibara rya kake, hateretsemo intebe ndetse hirya hari umuntu uhahagaze, urumuri ruri kugera mu nzu, gifite inkuta zifite ibara ry'umweru.

Inzu zisize irangi ry'umweru, ndetse hari n'abantu bicaye iruhande rw'igikuta, cyubakishije amabuye, hari igiti kinini gifite amababi y'icyatsi, ndetse n'ubusitani.

Icyumba gifite inkuta z'umweru ndetse muri purafo harimo ibara ry'umuhondo na kake, hari itara riri kwaka umweru, harimo igitanda gifite ibara ry'umukara ndetse gifite idirishya rifite ibara risa n'ivu n'ibirahuri.

Inyubako nini yubatse ku buryo bugeretse, ifite amadirishya ndetse isakarishije amabati afite ibara rya kaki, iruhande rwayo hari ipoto ririho itara ndetse harimo n'utuyira turi hagati y'ubusitani.

Icyumba kirimo intebe ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa, afite ibara ry'umukara kandi hirya yaho hari akabati gato gafite ibara rya kake gateretseho uducupa tugiye dutandukanye, hari urukuta ruriho ifoto ishushanyijeho abantu.

Igipangu mo imbere harimo inyubako zisakaje amabati y'ubururu, ndetse zisize amarangi y'umweru zifite amadirishya, harimo n'abantu bahagaze mu ibaraza, inyuma yacyo hari umugore uhagaze uhetse umwana wambaye ingofero ya pinki.

Inzu iri mu gipangu yasakarishije amabati afite ibara ry'ubururu ndetse ifite amakositara n'amadirishya, hagati mu gipangu harimo ubusitani n'igiti gifite amashami menshi inyuma hari ibyapa ndetse ifite porotaye iriho ibara ry'ubururu n'akeru ndetse n'amapine,

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Isize irange ry'umweru, kandi ifite ibaraza rifite inkingi ebyiri. Muri ryo haparitsemo imodoka. Ndetse imbere y'iyo nyubako hari ubusitani.

Inyubako yubakishije amarangi y'umweru ndetse na beje, imbere yayo mu ibaraza hari umuntu uhahagaze wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo, hari udutambaro tugiye turimo dufite ibara ry'ubururu n'umutuku ndetse ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, hariho itara ndetse n'amakositara, amadirishya ndetse n'inzugi bihari bifite ibirahure, hari ibara ry'umuhondo hasi hari akabara k'umukara, iruhande rwayo hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y' umukara.

Inzu yubakishije amatafarihiye ifite amadirishya ariho ibara ry'umweru. Imbere yayo haparitse imodoka ndetse hahagaze n'abantu. Hari umugabo wicaye ku ntebe wambaye ingofero ifite ibara rya kaki, ndetse hari n'umubyeyi uhetse umwana umutwikiriye agashuka gafite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ku kumurongo ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'akandi k'amaboko maremare yambariye imbere n'agapfukamunwa bifite ibara ry'umweru, yambaye inkweto z'umukara ndetse umukobwa uri ku ruhande yambaye ikanzu ifite ibara rya pinki, ateze n'agatambaro mu mutwe.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi. Hariho uducupa tw'amazi y'inyange ndetse hari umuntu imbere ye hateretse mudasobwa.

Inyubako yubakishije amarangi y'ubwoko butandukanye, hari ay'umweru ndetse na oranje, ifite amadirishya n'inzugi, imbere yaho hari amatara ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kirimo ibitanda by'ibyuma bifite ibara ry'umweru hari ibikuta biriho irange ry'umweru ndetse n'ahandi hari irange ry'ubururu n'ahandi hari irange ry'icyatsi harimo inzugi ndetse n'amatara yaka umweru ari hejuru muri parafo.

Inyubako ifite ibaraza ndetse n'amadirishya n'inzugi by'ibirahure, mu ibaraza hari abantu bari kugenda harimo uwambaye itaburiya y'umweru n'uwambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara ry'umutuku, ndetse harimo izifite amapine, hari igitanda kiriho agatambaro k'umweru ndetse n'umusego ufite ibara rya beje, hari ibikuta bibiriho ibara ry'umweru ndetse na parafo ifite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo ibipirizo bifite ibara ry'umweru n'ubururu ndetse hari intebe z'ibyuma zegetse ku rukuta. Hari igikuta gishushanyijeho ijisho ndetse harimo ibara ry'ubururu, umukara n'ayandi.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru, harimo abantu bicaye ndetse n'umukobwa uhagaze usutse ibisuko bifite ibara rya shokora, yifashe mu rukenyerero ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara. Hari n'abandi bunamye ku meza abari imbere.

Inzu iriho amagambo ari hejuru y'idirishya yanditse mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'uturongo twihese turi mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, iriho amadirishya afite ibirahure ndetse n'ibara ry'umweru, imbere hari ivaze ifite ibara ry'umutuku iteretsemo igiti n'indabo ziri ku ruhande zikikije ivase.

Inzu zirimo intebe z'ubwoko butandukanye, zikikije ameza, hari izifite ibara ry'umukara ndetse n'izifite ibara ry'ubururu, hari inzugi ndetse n'ibikuta bifite ibara ry'umuhondo, harimo televiziyo.

Inyubako yubakishije irange ry'umuhondo mu ibaraza ryayo hari abantu bahagaze, harimo uwambaye agapira k'amaboko maremare ka oranje, imbere yayo haparitse imodoka ndetse hari n'ibyapa bitandukanye.

Icyumba kirimo intebe zifite amapine z'ibara ry'umukara ndetse hari n'imigozi ifite ibara ry'ubururu n'umukara, harimo televiziyo n'ibikuta bifite ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye agapfukamuwa n'itaburiya y'amaboko magufi bifite ibara ry'umweru ndetse yambaye agafire gafite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugore ukikiye uruhinja rufite ingofero ifite ibara ry'umweru ndetse harimo n'utudomo tw'ibara ry'umukara.

Inyubako ifite vandarateri hejuru mu gisenge, kivanzemo ibara ry'umuhondo ndetse n'irya beje, hari igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi n'amadirishya by'ibirahure, harimo intebe z'amaguru atandukanye, ndetse harimo ifite ibara ry'umuhondo.

Inzu isize amarangi y'ubwoko butandukanye, ndetse ifite amadirishya n'inzugi, imbere yayo hari abantu bahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi avuga ngo Rwamagana hosipito, hirya no hino hagiye hari indabo.

Inyubako ifite amadirishya n'inzugi ndetse iruhande rwayo hari ubusitani, hagiye harimo utuyira ndetse inyuma yayo hari indi nyubako ifite amabara atandukanye, harimo n'ibara rya oranje.

Umuganga wambaye ga mu ntoki ndetse afite urushinge yateye ku mugabo wicaye iruhande rwe, wambaye ishati yafunguye ibipesi ndetse imbere yambariyemo isengeri ifite ibara ry'umweru imbere yabo hari intebe.

Inzu yubakishije amadirishya afite ibirahure, urebeye mu idirishya imbere hari ibitanda ndetse n'umugore uhagaze wambaye itabuririya ifite ibara ry'umweru, mu ibaraza ry'iyo nzu hari abantu bahagaze harimo umugabo wegamye ku gikuta.

Ibitanda biri ku ku murongo harimo ibifite amapine hari uryamye ahegereye igikuta cy'umuhondo wiyoroshe ishuka ifite ibara ry'ubururu, ndetse igitanda cyo mo hagati kiriho ishuka y'ubururu ariko nta muntu uryamyeho, hejuru yabyo hamanitse supanete zifite ibara ry'umweru.

Umugore uhagaze imbere y'imodoka iparitse ahantu hari amapave, hirya ye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya, ndetse n'amakositara, mu ibaraza ryayo, hahagaze abantu benshi, iruhande rw'iryo baraza hari umukobwa uhagaze wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umweru.

Umuntu wicaye kuri tapi ,amaguru ye yayahinnye ayahuriza hamwe ndetse amaboko ye yose arayarambura ayakoza ku birenge byambaye amasogisi y'umweru ukuboko kwe kw'ibumoso yambayeho impeta.

Umuntu ufite imitsi ku maguru, ukuboko kwe kw'ibumoso yakurambuye agushyira imbere ndetse ukw'iburyo agushyira inyuma, arunamye yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara, ubururu, ndetse na oranJe. Hirya ye hari imbuto z'amoko atandukanye.

Umuntu wahinnye ukuboko kw'iburyo, ikiganza agishyira mu rushyi rw'akaboko. Ukuboko kw'ibumoso yagucishije hejuru ku mutwe agushyira mu nkokora yo ku kuboko kw'iburyo, yambaye isengeri ry'umukara ifite utubara twa orange ku mpande ndetse no mu ijosi.

Umukobwa ufite imisatsi yafungiye hejuru, yicaye mu muhanda yambaye inkweto zifite ibara ry'umukara ndetse na ekuteri mu matwi. Yambaye kola ifite ibara ry'umukara ndetse n'agasengeri kagufi nako k'ibara ry'umukara, iruhande rwe hari agacupa gafite ibara ry'umweru.

Umwana ufite icupa ririmo amazi rifite ibara ry'ubururu n'umweru yarifashe mu kuboko kw'iburyo arikunywa, yambaye isengeri irimo ibara ry'ubururu, icyatsi, umweru ndetse n'umukara, inyuma mu ijosi yambaye agatambaro gafite ibara ry'umweru.

Ikirahure kirimo ji ifite ibara ry'umuhondo ndetse hari pome z'ubwoko bubiri butandukanye, hari ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ifite ibara ry'umutuku, hari urusenda rw'umutuku ndetse n'imboga zifite ibara ry'icyatsi.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufi karimo amabara abiri, harimo uturongo tw'ibara ry'umweru, hari undi wunamye imbere ye wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu ijuru, ndetse no ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha.

Umuntu wicaye ku kiringiti cya rufuku ndetse hari umuri inyuma upfukamye umufashe mu ijosi, hari abandi bahagaze inyuma yabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye ndetse n'amajire arimo ibara ry'umweru n'umutuku.

Icyumba gifite amakaro afite ibara ry'umweru ndetse n'ibikuta by'umweru, hasi hari ibara ry'umukara, harimo indobo ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'akabati.

Umuntu uryamye ku buriri ukuguru kwe kw'iburyo yakurambuye, yambaye ikabutura ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo terefone, kandi yambayeho agakomo gafite ibara ry'umukara, ukw'ibumoso yambayeho isaha ifite ibara ry'umweru.

Umwana wicaye ku mukeka inyuma ye hari umuntu upfukamye yambaye agatambaro mu mutwe ndetse n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru n'ijosi yambayemo agatambaro gafite ibara risa n'ivu inyuma yabo hari abandi bantu bahari ariko hari n'igikuta kiririmo ibitambaro bifite ibara ry'umweru ubururu n'umuhondo.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, harimo ayandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru. Ku rundi ruhande hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'amaboko magufi n'ipantaro, ukuboko kwe kw'iburyo kurarambuye ndetse kuriho agatambaro gafite ibara ry'ubururu n'umweru ukw'ibumoso yakugeretse ku kuboko kw'iburyo.

Ubwoko bw'imbuto butandukanye harimo icunga rifite ibara ry'umuhondo pome ifite ibara ry'umutuku ndetse n'agacupa gafite ibara ry'icyatsi n'umupfundikizo wako ufite ibara ry'umweru n'umukara hari imboga zirimo brocoli.

Umuntu ufite ubwoya ku maguru, ikiganza cye cy'ibumoso gifashe ku itako ryo ku kuguru kw'ibumoso. Ikiganza cye cy'iburyo gifashe mu ivi, kihafatishije agatambaro gafite ibara ry'ubururu, yambaye ipantaro y'ubururu ariko yayihinnye ku kuguru kw'ibumoso.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'imikara arunamye, ukuboko kwe kwi'iburyo yagushyize inyuma mu mugongo ndetse ukw'ibumoso yagufatishije munsi y'ikirenge cy'ukuguru kw'iburyo, yambaye ipantaro ifite ibara risa n'ivu ndetse n'agasengeri gafite ibara rya beje.

Umuntu wicaye yambaye ikabutura ndetse yambaye n'isenge ifite ibara ry'umukara, ukuboko kwe kw'ibumoso yakurambuye ikiganza agifatisha munsi y'inkweto. Ukw'iburyo yagushyize ku mfundiko zo ku kuguru kw'ibumoso.

Umugabo wicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu, wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara rya pinki. Imbere ye hari mudasobwa ndetse iriho n'imigozi yayo hirya ye hari intebe zifite amapine mato.

Umugabo witangiriye itama, yambaye ishati y'umweru, ndetse na karuvati ifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ikositimu, ndetse na karuvati ifite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari amarido, afite ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye ku gitanda yambaye agapira k'amaboko magufi n'ipantaro yahinnye, ku kirenge cye cyo ku kuguru kw'iburyo, bari kuzirikaho agatambaro gafite ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari umugore wambaye isaha ku kuboko kw'iburyo n'ishati ifite ibara ry'umweru.

Ibinini by'amoko atandukanye, biri mu mabara agiye atandukanye, hari ibiri mu ibara ry'umweru, ibifite ibara rya oranje ndetse n'ibindi bifite ibara rya beje, hirya y'aho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo uri kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu arifashe mu kuboko kw'ibumoso, ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu afite ubwanwa kandi hirya ye hari ibihuru.

Umuntu wazamuye ukuguru kw'iburyo, yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara ndetse mo imbere harimo kora ifite ibara ry'ivu, iruhande rwe hari umuganga umufashe ukuguru wambaye itaburiye ifite ibara ry'umweru.

Umuntu uryamye mu byatsi hari abantu bamuri iruhande basutamye bambaye amajire afite ibara ry'umutuku ndetse n'amapantaro y'umukara, iruhande rwabo hari abandi bahagaze harimo uwambaye ijeze rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'akarongo k'umukara.

Umuntu wunamye yambaye inkweto zirimo ibara ry'icyatsi ndetse zifite rase zifite ibara ry'umukara, yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo arunamye, ibiganza bye byombi bifashe ku mavi.

Umuntu uryamye ku buriri yambaye inkweto, afite ubwoya ndetse yambaye agakabutura gafite ibara ry'umukara, iruhande rwe hari uhahagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, yambaye udukomo ku maboko ye yombi.

Umugabo uri mu muhanda yapfukamishije ivi ryo ku kuguru kw'iburyo; ukuguru kw'ibumoso aragushinga; ibiganza bye byombi afatisha mu ivi ndetse yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'ivu n'ikabutura ifite ibara ry'umukara.

Umuntu wazingiye agatambaro gafite ibara ry'umuhondo mu biganza bye byombi, yambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi iruhande rwe hari umuntu umufashe ku kuboko kw'iburyo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye ahantu hari amayesikariye, ari kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo afashe mu kuboko kw'iburyo, ukuboko kwe kw'ibumoso kuriho isaha yambayeho ndetse ikiganza cyako gifashe telefone.

Abantu bicaye ndetse banahagaze bambaye udupfukamannwa n'udufire mu mutwe, harimo abagabo bambaye karavate ndetse n'amashati y'imyeru, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa na telefone ndetse n'imigozi igiye itandukanye.

Umugabo ufite ubwanwa ari kunywera mu icupa rifite ibara ry'umweru, afashe mu kiganza cye cy'uko kuboko kw'iburyo kandi yambaye n'agapira gafite ibara ry'umukara k'amaboko maremare karimo n'uturongo tw'umweru.

Abantu bambaye utujire dufite ibara ry'umutuku n'imbere bambayemo udupira tw'umweru, inyuma yabo hari abandi bahagaze mu biti ndetse n'ibyatsi kandi uwo bateruye yambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo, imbere ku nda handitse umubare gatatu wandikishije ibara ry'umukara.

Umuntu uhagaze ari muri siporo mu kuboko kwe kw'iburyo yakurambuye imbere yu kw'ibumoso yagufatishije ku kuguru kw'ibumoso yahiniye inyuma yambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse na bisitiye ifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara mu kuboko kwe kw'iburyo yambayeho agakomo gafite ibara ry'icyatsi mu kw'ibumoso afashemo icupa arikunywa ndetse afite n'ubwanwa.

Umuntu wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi yazamuye amaboko ye, ibiganza bifashe icupa ry'amazi ari kwimena mu maso. Ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho agatambaro gafite ibara rya move.

Amasahani abiri y'umweru ateretseho ibyo kurya bitandukanye, hari iriho amagi ndetse hari n'indi iriho inkeri, imineke n'agatebo gato karimo urusenda rufite ibara ry'umuhondo, borokoli...

Icyumba gifite idirishya ndetse n'inzugi zifite ibara ry'umweru, harimo intebe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'amapine, hejuru hari vandarateri kandi harimo n'amakaro, afite ibara ry'umweru.

Umwana ufite agacupa karimo amazi mu kiganza cye cy'iburyo, gafite ibara ry'ubururu n'umweru. Yambaye shanete mu ijosi, ndetse n'isengeri irimo ibara ry'umukara, icyatsi, ubururu, n'umweru.

Umukobwa ufite ibisuko ku mutwe, yambaye ekuteri mu matwi ndetse ikiganza cye cyo ku kuboko kw'iburyo yakinyujije inyuma agishyira mu ntugu, yambaye agasengeri gafite ibara ry'umukara ndetse n'ivu.

Umugabo uryamye yubitse inda ku gitanda gifite ibara ry'umukara, kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo. Afite tatuwage ku kuboko kw'iburyo, kandi ku gutwi kwe yambayeho iherena. Iruhande rwe hari undi wambaye ingofero mu mutwe, kandi afashe ku gitanda.

Ibiganza bifashe mu ntoki imbuto z'amoko atandukanye, harimo pome ifite ibara ry'icyatsi ndetse na avoka isatuye irimo ikibuto, hari n'urusenda rufite ibara ry'umuhondo ndetse na tungurusumu n'inyanya, hamwe na borokori iruhande rwe hari inkweto.

Abana bari mu kibuga bambaye amasengeri n'amakabutura afite ibara ry'umukara, muri bo hari abambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umutuku, inyuma yabo hari abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze, hirya y'abo bantu hari insina ndetse zifite amakoma menshi.

Abantu babiri hari uwambaye isengeri ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, mu kuboko kwe kw'ibumoso afashemo icupa yambayeho n'isaha, undi uri iruhande rwe ukuboko kw'iburyo yagufashemo icupa.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi karimo amabara y'umuhondo, umutuku n'umukara, yicaye mu muhanda ahinnye ukuguru kw'ibumoso, ukw'iburyo arakurambuye. Inyuma ye hari ibirabyo bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umuntu wambaye agashanete mu ijosi ndetse yambaye umupira w'umweru ufite ibipesu imbere, ukuboko kwe kw'iburyo gufashe ku kuboko kw'ibumoso yarambuye, afatishijeho agatambaro gafite ibara ry'ubururu ndetse yambaye n'impeta ku kuboko kw'iburyo.

Umuntu uhagaze yambaye agakabutura karimo amabara atandukanye n'agapira k'umweru, imbere ye hari umuntu uhicaye wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'akarongo k'umweru, bombi bafashe ku cyuma.

umukobwa wambaye bestle yumukara ndetse nakora ifite ibara risa n'ivu yicaye kuri tapi kandi imbere hari mudasobwa kuruhande rwe hari icupa kandi inyuma ye hari intebe z'imisego zifite ibara ry'umweru

Umugabo ufite ubwanwa, mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo icupa ry'amazi ari kunywa, ndetse yambaye ekuteri mu matwi zifite umugozi ufite ibara ry'umweru, agapira yambaye k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye isengeri ifite ibara ry'ivu ndetse yafunze ibipfunsi, ukuboko kwe kw'iburyo yaguhinnye, ukw'ibumoso yakurambuye, hejuru y'ukuboko kw'iburyo yahinnye.

Umuntu uri mu muhanda yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara ndetse amaboko ye yombi afashe mu ivi ryo ku kuguru kw'ibumoso. Uko ku kuboko kw'imoso yambayeho isaha ifite ibara ry'umukara.

Umugore ufite ibisuko yambaye agapira gafite ibara ry'umukara kamaboko magufi karimo akabara k'umweru ndetse n'umuhondo kukaboko k'ibumoso, yambaye isaha ndetse n'inzara ze zifite ibara ry'umutuku.

Ibikapu bitatu bifite amabara atandukanye, nk'umutuku, umukara, n'ayandi. Ndetse bifite imashini, harimo bibiri muri byo bifunguye, birimo ibikoresho by'amoko atandukanye. Hari ikirimo imikasi, indodo.

Umuntu wicaye mu byatsi yambaye isengeri irimo ibara ry'umukara, ndetse ku mpande hariho ibara risa n'ivu n'ikabutura, amaboko ye yombi yabafatishije ku itako yo ku kuguru kw'ibumoso.

Umuntu uryamye wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara ukuguru kwe kw'iburyo yakurambuye hasi ukw'ibumoso yakuzamuye agushyira mu gituza cy’umuntu umuhagaze iruhande wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Metero ifite ibara ry'umuhondo, irimo imibare yandikishije ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari inkeri ziri mu moko abiri atandukanye. Hari izifite ibara ry'umutuku ndetse n'izifite ibara ry'umukara, hari na teyi ifite ibara ry'icyatsi n'ikirahure kirimo ji iri mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye agakabutura gafite ibara ry'ivu kandi ku kuboko kw'iburyo yambayeho isaha yagufatishije hasi, ukuguru kw'iburyo yakurambuye ndetse ukuboko kwe kw'iburyo agukoza ku nkweto yambaye.

Umuntu wambaye agkabutura gato gafite ibara rya ruje borodo ndetse harimo n'uturongo tw'ibara ry'umweru n'ijambo ryanditseho adidasi. Mo imbere yambayemo kora ifite ibara ry'umukara, yambaye agapira k'amaboko magufi ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho udukomo turimo amabara atandukanye.

Ibinini by'amoko atandukanye ndetse n'uducupa tw'imiti, hari itoroshi rifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara n'imikasi, ga zifite ibara ry'umweru n'urushinge ndetse...

Umugabo uri muri siporo yambaye ikabutura irimo akabara k'umweru n'ibara ry'umukara yambaye agapira k'amaboko magufi yambaye inkweto ndetse hari tapi inyuma ye hari idirishya rifite ibirahure ribonerana inyuma y'inzu hari imodoka ndetse n'ibiti n'indabyo.

Umuntu wicaye mu muhanda afite agacupa mu kuboko kwe kw'iburyo; ukuboko kw'ibumoso yakurambuye agushyira ku ivi ryo kuguru kw'ibumoso; yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara ndetse hirya ye hari umuhanda.

Umugabo wambaye ingofero afite n'ubwanwa, ahagaze imbere y'akabati karimo imiti iri mu macupa atandukanye, hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru, avuga ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Udukato ndetse n'amacupa bifite amabara atandukanye, hari ubukarito bufite ibara ry'umuhondo ndetse hashanyijeho igikakarubamba, imipfundikizo yatwo ifite ibara rya shokora ndetse hari n'agacupa gafite ibara ry'umweru, inyuma hariho igipapuro kirimo ibara ry'ubururu n'umweru.

Amacupa ari mu bwoko bugiye butandukanye ndetse afite n'amabara anyuranye, hari iripfundikije umupfundikizo ufite ibara ry'umweru rifite ibara ry'icyatsi, kandi hari n'irindi rifite ibara rya shokora, hari n'irindi ripfundikije umupfundikizo ufite ibara ry'icyatsi, rifite ibara ry'umweru.

Ipapayi ifite ibara rya oranje mo imbere, iramanyuye mo imbere harimo utubuto duto cyane dufite ibara ry'umukara ndetse inyuma isa icyatsi, iri ahantu hari ibara ry'umweru.

Icupa rifite umupfundikizo w'umweru ririmo amabara atandukanye, harimo irya pinki, icyatsi. Iruhande rwawo hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse avuga ngo uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositate.

Umuntu ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye,, harimo iry'umutuku, umuhondo, icyatsi, umweru, umukara. Imbere ye hari ibiti bigiye bifite indabo zitandukanye, kandi afashe urufite ibara rya pinki n'umweru.

Amacupa ari mu kabati gafite ibara ry'umutuku, harimo afite imipfundikizo y'imikara ndetse n'andi afite imipfundikizo y'imyeru, inyuma yatwo hariho ibipapuro birimo amabara atandukanye, hari ibifite ibara ry'icyatsi, umukara, n'umuhondo.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse hari kapusine ifite ibibabi by'icyatsi yeze indabo zifite ibara rya oranje hari n'ikindi giti kihegereye gifite ururabo rurimo ibara ry'umweru n'umuhondo kandi hari n'ikindi gifite ibara ry'umutuku.

Amacupa ari mu bwoko bugiye butandukanye kandi afite amabara atandukanye, hari akajerekani gafite ibara ry'umuhondo, umupfundikizo wako ufite ibara rya shokora ndetse hari n'akandi gacupa gafite umupfunikizo ufite ibara rya pinki.

Igiti cy'umuravumba, gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, giteye mu rugo, inyuma y'igipangu hari intsina ziteye, zifite n'amakoma afite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru ku maboko ndetse no mu ijosi, hari akabara k'umukara, ahagaze mu biti byinshi by'amoko atandukanye, afite amashami n'ibibabi by'icyatsi.

Akabati gafite ibara ry'ubururu gateretsemo amacupa y'amoko atandukanye, harimo icupa ry'amazi y'Inyange, iruhande rw'ako kabati hari firigo ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuntu uhahagaze wambaye itaburiya y'amaboko magufi.

Icupa rifite umupfundikizo w'umweru ndetse ririho inyuma agapapuro kariho amabara atandukanye, harimo na pinki, iruhande rwaryo hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru avuga ngo'' ku muryango uvura kurangiza vuba, gucika intege''.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku kibabi cy'igiti cy'isombe gifite ibara ry'icyatsi hirya yacyo ndetse no ku mpande hagiye hari ibiti by'ubwoko bwinshi bitandukanye ibyumye, ibikiri bibisi, hirya yabyo hari inzu.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, yifubitse agatambaro k'umweru, mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo ishakoshi ifite ibara rya kaki ndetse n'imishumi, ukuboko kwe kw'iburyo agufatishije ku bibabi by'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Tangawizi zikase ndetse n'izidakase, imbere ku zikase harimo ibara rya beje, izidakase inyuma zifite ibara rya kaki, ahantu ziri hafite ibara ry'umweru.

Imiti myinshi iri mu kabati iri mu bwoko bw'amacupa atandukanye ndetse afite n'amabara atandukanye, hari ay'umweru umuhondo, umutuku icyatsi, n'andi afite ibara rya shokola.

Umugore wambaye agapira k'amaboko maremare gafite ingofero igiye inyuma ndetse ahambaye n'agatambaro mu mutwe, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara ndetse n'umupira urimo ibara ry'umutuku, bahagaze mu biti bifite amashami.

Ameza ateretseho imiti igiye itandukanye, hari umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru, ndetse yambaye na baje mu ijosi, ifite umushumi ufite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye ipantaro n'ishati yatebeje kandi yambaye n'umukandara, bose amaboko yabo bayashikamishije kuri ayo ameza, inyuma y'uwo mugore hari intebe ifite ibara ry'ubururu.

Uducupa tw'amoko atandukanye ndetse n'udukarito dufite amabara atandukanye, hari akari mu ishashi gafite ibara ry'umuhondo ndetse gapfundikije umupfundikizo wa shokora, hari n'akandi gapfundikije ufite ibara rya orange gafite ibara ry'umweru.